Umagabo wamabye ishati y'amaboko ndetse n'ipantaro y'umutuku n'ikweto z'umukara, imbere ye hakaba hari abantu bagiye batandukanye, harimo umbaye umupira w'umukara, ndetse iruhanderwe hakaba hateretse amavide ndetse hakaba hari n'ikese y'umukara yabugenewe kubikamo amavide.

Icyapa kinini kiriho icupa ndetse n'ibirahure bibiri birimo inzoga kuruhande hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umweru, munsi hakaba hari amagambo matoya ari mu ibara ry'umukara, ku ruhande rw'icyo cyapa hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye.

Inyubako ikaba iteretsemo akabati karimo amavide menshi cyane y'inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye, hejuru y'akabati hakaba hari imashini yabugenewe kwerekana amashusho bakaba bari kureba umupira ndetse hakaba hari n'amabara y'umutuku ndetse n'ubururu.

Umuntu ufite igikoresho cyabugenewe, bakoresha bishyura amafaranga, akaba yambaye isaha, imbere hakaba hari umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyagenewe gusohora fagitire, akaba afite utuntu tw'umutuku ku nzara ze.

Umukobwa wambaye umupira w'ivu iruhande rwe hari imodoka y'umweru, inyuma hari inyubako imanitseho imyenda hejuru y'iyo nyubako hari icyapa cy'umutuku cyandikishije amagambo y'umweru hariho n'ikirahure kirimo iknyobwa.

Umuhanda w'amabuye akoze muri sima, ku ruhande hakaba hariho udusima dufite amabara y'umutuku, akaba yometse ku gikuta gisa umuhondo, kandi kuri icyo gikuta hakaba hariho amagambo ari mu nyuguti enye, afite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi irimo amakesi menshi cyane, arimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo amakese afite amabara atandukanye: afite amabara y'umutuku, amabara y'ubururu, amabara y'icyatsi, inyuma yayo makesi hari akabati kanini karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye gusa by'ibinyobwa.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero akaba ahagaze ahantu hari ntebe z'ibiti, iruhande rwe hakaba undi mugabo wambaye ingofero n'ishati hakaba hari n'abandi bantu benshi bahagaze, kuri iyo nyubako hakaba hari icyapa kinini kirimo amagambo y'umweru n'umuhondo kikaba kiri mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye amataratara akaba yambaye n'ishati y'umweru iruhande rwe hakaba hari abantu benshi bahagaze ndetse n'abandi bari kubyina, hejuru yiyo nzu hakaba hari agatara ibara ry'umutuku iruhande rw'uwo mugabo hakaba hari amavide afite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba hari umugore wicaye bari kurebana uri guseka.

Umumotari twaye ipikipiki, akaba yambaye ingofero y'umutuku n'akajiri k'umuhondo, umugenzi atwaye akaba yambaye we yambaye ingofero y'umutuku, ikote ry'umukara n'ipantaro y'ubururu, bakaba bari buce mu muhanda w'amabuye, iruhande rwabo hari icyapa kiriho inzoga, iruhande r hateretse imodoka ebyiri.

Umuhungu wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru akaba afite telefoni y'umukara mu ntoki ze, iruhande rwe hari urupapuro rw'umweru, intebe y'umuhondo ndetse n'akabati karimo inzoga nyinshi cyane z'ubwoko bwose.

Amacupa atatu y'inzoga z'ubwoko butandukanye akaba ateretse ku imeza imbere hakaba hari umufuniko inyuma hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro i ruhande rwe hakaba hari undi mugabo wicaye akaba ari kumwakira ari kumuha serivisi.

Umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze, iruhande rwe hakaba hateretse ivide ndetse n'ikirahure, hakaba harimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba undi mugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, bakaba bicaye barikunywa, inyuma hakaba hari icyapa cy'umweru.

Inzu ndende, hejuru ku gisenge yayo hakaba hariho amagambo y'icyatsi, imbere hakaba hari ibiti by'icyatsi, imbere yayo hakaba hari inzu zifite amabati ndetse n'ibigega byinshi, hakaba hari n'icyapa kinini cyandikishije amagambo y'umweru kiri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse n'indi nzu ku ruhande ifite ibara ry'umuhondo.

Icyapa kinini kiriho amabara y'umutuku n'icyatsi. Hakaba hariho icupa rifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hakaba hariho abantu bagiye batandukanye. Ku ruhande hakaba hari akazu k'ibiti, inyuma hakaba hari inzu yubakishije amatafari.

Akabati kanini cyane gafite ibice bitandukanye. Harimo inzoga, ibinyobwa bindi bigiye bitandukanye. Munsi hakaba gateretsemo amakese, harimo izindi nzoga zifunze. Ku ruhande hakaba hari intebe eshatu zigerekeranye, zifite ibara ry'umutuku.

Ibyapa bibiri kimwe kiriho icupa n'ikirahure bikaba biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo bikaba byanditseho virunga, ikindi cyapa kiri hejuru y'inzu kiriho amavide atatu imbere y'iyo nyubako hateretse indabyo.

Icyapa kinini kiriho amagambo y'umweru n'umutuku ndetse kiri mu ibara ryumweru n'umutuku, inyuma yacyo hakaba hari inzu ifite ibara ry'umeru ifite n'amarembo, ku ruhande hakaba hari abagabo babiri bahahagaze imbere hari umugabo ufite igare uri kugenda ufite n'igikapu.

Umukobwa ufite ikirahure kirimo icyo kunywa muntoki, undi kuruhande rwe hakaba hari nundi mukobwa ufite ikirahure wambaye isaha na impeta, icyo kirahure akaba ntakintu na kimwe kirimo. Munsi hakaba hari ibiyiko bibiri, isahane ndetse n'ibitambaro bifite amabara ya icyatsi, hakaba hariho agasahani kariho imbuto.

Abagabo babiri baricaye n'umugore. Imbere yabo hari amavide menshi ateretseho ku meza asa umutuku. Inyuma y'abo hari umugabo uhagaze, wambaye imyenda y'umukara ndetse n'undi wicaye wambaye imyenda y'umutuku. Umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umweru urimo uturongo.

Ikirahure kirimo inzoga nkeya, ku rundi ruhande hakaba hateretse ikirahure ndetse hakaba hari n'ivide rirerire. Ku rundi ruhande hakaba hari abantu biceye, byose bikaba biteretse mu meza, imbere hakaba hari akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi wambaye umupira w'umukara, ufite n'akantu k'umutuku ku rutugu akaba afite ibirahure bibiri birimo inzoga. Inyuma ye hakaba hari utubati dutandukanye turimo ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Umuhungu w'imibiri yombi ufite umusatsi muke, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, akaba yambaye isaha, akaba afite itaso y'umweru mu ntoki. Iruhande rwe hari akabati karekare karekare, hariho amavide y'inzoga z'ubwoko butandukanye.

Inzu y'ubucuruzi ifite akabati gafite ibice bitandukanye. Igice kimwe kirimo inzoga, amazi, ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye. Iruhande rw'ako kabati hari icyuma cyabugenewe cyo gukonjesha. Hejuru y'ako kabati hari imitako. Iruhande hariho umutako.

Icyapa kinini cyane kikaba kiriho icupa n'ikirahure, bikaba biri mu mabara y'icyatsi n'umuhondo bikaba byanditseho virunga. Hejuru hakaba hariho amagambo yandikishije amabara y'umutuku.

Umugabo wambaye ipantaro ndende y'umukara, akaba yicaye ndetse akaba yambaye n'inkweto zifunze, imbere ye hakaba hateretse icupa nta nzo irimo, ku ruhande hakaba hateretse ikirahuri kirimo inzoga, imbere hakaba hari ibyuma bibiri byabugenewe byo kwerekana amashuso.

Icyapa kinini cyandikishijwe amagambo y'umuhondo kikaba kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo hakaba hariho icupa riri mu ibara ry'icyatsi ku ruhande hakaba harimo abantu bane abagabo babiri n'abagore babiri. Munsi hakaba hari ikindi cyapa gito hakaba hari ndetse n'indi miryango ibiri.

Umuhanda w'amabuye, ku ruhande hakaba hariho udusima turi mu marangi y'umutuku, ku gikuta kikaba gisa umuhondo, kikaba cyanditseho amagambo mu nyuguti enye ndetse ayo magambo akaba ari mu marangi y'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu akaba y'icaye kuntebe y'ibiti imbere ye hakaba hari umuntu w'icaye ndetse n'umugabo uhagaze, inyuma yaho hakaba hari ibiti ndetse nabandi bantu, inyuma hakaba hari ikirahure kirimo inzonga ndetse n'amataratara ateretse ku ameza.

Isahane ndende y'igiti iriho inyama zitandukanye z'ubwoko bubiri hakaba hateretseho n'igikombe k'icyuma, imbere hakaba hari ikirahure cyuzuye inzoga imbere hakaba hari umugabo wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare.

Abagore babiri bicaye ku ntebe bari kunywa imbere yabo hateretse igikoresho k'ikoranabuhanga cyagenewe kwerekana umupira ndetse hakaba hari n'akabati karimo ibyo kunywa byinshi bigiye bitandukanye.

Icyapa gifite ibara ry'icyatsi kikaba hari icupa ndetse n'kirahure kirimo inzoga, hejuru y'icyo cyapa hakaba amagagambo bandikishije amabara y'umutuku. Kuruhande rw'icyo cyapa hakaba ari umuhanda w'abagenzi ndetse n'umuhanda w'imodoka n' umuhanda w'abagenzi harimo abantu bari kugenda.

Ikirahure kirimo inzoga, imbere hari ivide, ndetse n'agakoresho kabugenuwe ko kubikamo umunyu. Agapfukamunwa, hakaba hari n'ibyapa bibiri; kimwe cy'umuhondo, ikindi cy'umutuku, byose akaba ari ibya serivisi yo kwishyura. Imbere hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru.

Umukobwa w'inzobe ufite ibisuko akaba yambaye umupira w'umukara, akaba afite ivide mu ntoki ze, iruhande rwe hakaba hari umugabo w'inzobe wambaye amataratara, wambaye ishati y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwe hakaba hari umukobwa ndetse n'abandi bantu.

Icyapa cy'umweru n'amabara y'icyatsi hakaba hari icupa ry'icyatsi ndetse n'ikirahure kirimo inzoga, ku ruhande hakaba hari imodoka ya rukururana iri kugenda k'umuhanda wa kaburimbo ndetse k'urundi ruhande hakaba hari amazu ndetse hakaba hari n'ibyatsi ndetse hakaba hari n'inzu igeretse.

Umukobwa ari kugenda mu muhanda w'amabuye, yambaye umupira w'ivu n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari icyapa kinini kiriho ikinyobwa, iruhande rwe hari umutaka w'umuhondo n'intebe y'umutuku, inyuma y'icyapa hari imodoka nyinshi, harimo iy'umweru ndetse n'iy'umukara.

Icyapa gihagaze ku muhanda w'amabuye kikaba gifite amabara y'umutuku kukaba kiriho ivide rifite ibara ry'icyatsi, ku ruhande hakaba hari umutaka w'umuhondo w'ikigo gishinzwe gitanga serivise z'itumanaho, ku ruhande rw'icyo cyapa hakaba hari imodoka, ndetse imbere yayo hakaba hari umuntu uri kwambuka umuhanda w'amabuye.

Icyapa gifite ibara ry'umweru n'umutuku, hakaba hariho amagambo afite ibara ry'umweru, inyuma hakaba hari inzu ifite amabara y'umweru, ku ruhande mu marembo hakaba hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu, imbere hakaba hari igare, abagenzi, imodoka ndetse n'amapikipiki ari gutambuka ku muhanda w'amabuye.

Umusore wambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari umusore wambaye ikoti ry'umukara. Iruhande rw'uwo musore hakaba hari akabati ndetse hakaba hari n'amatara yaka umutuku. Akabati karimo amakesi n'amakarito.

Icyapa kinini kiriho amabara y'umutuku wijimye kikaba cyandikishijwe amagambo y'umweru, i ruhande hakaba haparitse ipikipiki, ku rundi ruhande hakaba haparitse ibikapu, hakaba hari n'umuryango, hakaba hari na gakoresho kabugenewe gafite ibara ry'umuhondo.

Icyapa cyometse ku nzu kinini, kigizwe n'amabara abiri, harimo umweru ndetse n'umutuku. Amagambo yanditse, yanditseho mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Icyapa kikaba kiriho inzoga ndetse n'ikirahure. Ku ruhande hakaba hari ikindi cyapa kiriho abakobwa babiri.

Ikirahure giteretsemo inzoga, kuruhande rw'icyo kirahure hakaba hari icyapa kiriho ivide, ku ruhande hakaba hari icupa ririmo inzoga no ku rundi ruhande hakabamo icupa. Bikaba biteretse ku meza, inyuma hakaba hari ibiti, inyuma hakaba hari abandi bantu bicaye, bari kunywa inzoga.

Umukobwa wirabura wambaye umupira w'umukara, akaba afite agakoresho kabugenewe bakoresha bishyura amafaranga. Ku rundi ruhande hakaba hari umugore ufite ibisuko birebire, nawe akaba afite agakoresho k'ikoranabuhanga kagenewe gutwarwaho amafaranga, ukaba wakwishyura aho waba uherereye hose.

Abagabo babiri n'abagore babiri bicaye bari kunywa. Umugabo umwe yambaye ishati, afite igikoresho cy'itumanaho mu ntoki, undi yambaye ikote n'ishati y'umweru. Umugore umwe yambaye agapira k'umweru, undi yambaye agapira k'umutuku.

Umuhungu wambaye ishati y'umukara akaba afite amavide abiri y'ibisukika, akaba ari gusuka mu kirahure kinini inyuma ye hari akabati kanini karimo amavide y'ibirahure y'ubwoko bwinshi bw'inzoga zitandukanye.

Umugore afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyagenewe gukoreshwa mu itumanaho, akaba yambaye impeta ku rutoki, akaba yambaye ikoti, akaba yambaye n'ishati y'umukara, akaba anasutse, akaba ari ahantu hari ibara ry'umutuku.

Icyapa kiri hejur y'inyubako gifite amabara abiri y'umutuku n'umweru kikaba cyandikishije amagambo y'umweru ndetse n'umukara, mu nsi hakaba hari imiryango ibiri y'ubucuruzi. Ku ruhande hakaba hari abagabo babiri bari kugenda ndetse haparitse n'imodoka eshatu.

Abagabo babiri bicaye mu nzu harimo ibara ry'umutuku imbere yabo hateretse ikimashini cyabugenewe cyo kwerekaniraho umupira bakaba bicaye ku ntebe, umwe yambaye ishati irimo uturongo undi yambaye ingofero ndetse n'umupira w'umukara urimo uturongo tw'umweru.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse kikaba cyandikishije amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, hakaba hariho amashusho y'umugabo n'umugore, ndetse hakaba hariho n'igishushanyo cy'ivide rifite ibara ry'ubururu, imbere y'icyo cyapa hakaba hari inzu ifite icyapa no kurundi ruhande hakaba hari n'indi nzu.

Icupa rifite ibara ry'icyatsi rikaba riteretse ku meza iruhande y'iryo cupa hakaba hari ikirahure kirimo inzoga, imbere hakaba hari ibyuma bibiri byagenewe kwerekana amashusho ndetse ku rundi ruhande hakaba hari isakoshi.

Icyapa kinini kiriho ivide rifunze ku ruhande hariho abantu hejuru y'icyo cyapa hari amagambo yandikishije amabara y'umutuku iruhande y'icyapa hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'abantu n'ibiti ku rundi ruhande hari insinga zifashe ku ipoto.

Icyapa kinini hakaba harimo amabara abiri umweru ndetse n'umutuku hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara hakaba hariho n'ivide ndetse n'ikirahure. Imbere y'icyo cyapa hakaba hari imodoka ifite ibara ry'ivu

Umugabo n'abakobwa babiri, umugabo yambaye ishati y'umweru iriho akantu k'umutuku, hakaba hari n'abakobwa babiri nabo bambaye amashati. Inyuma yaho hari akabati karimo inzoga nyinshi z'ubwoko butandukanye ndetse hakaba harimo n'ibara ry'icyatsi.

Intebe ebyiri zifite ibara ry'umukara, zikaba ziri mu nzu irimo amakaro, iruhande hakaba hari urugi rufite ibara ry'icyatsi, ku rundi ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, ndetse hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi. Imbere muri ako kazu hakaba hateretsemo imeza.

Abantu bafite uruhu rwera, hakaba harimo umugabo wambaye amataratara n'umupira w'amaboko maremare w'umukara, ku ruhande hakaba hari umugore ufite uruhu na we rwera, akaba yambaye agatambaro mu ijosi ndetse n'ishati. Inyuma ye hakaba hari umuntu wirabura wambaye umupira w'umweru, imbere hakaba hateretse imeza iriho amasahani, amacupa, amavide ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, akaba ahagaze, imbere ye hakaba hari umugore wambaye umwenda w'umweru, iruhande rwabo hakaba hari abandi bantu bicaye, bakaba bari kurya. Hakaba hari ahantu hari amabuye ndetse hari n'imashini yabugenewe yo kwerekana amashusho.

Umugore w'imibiri yombi ufite umusatsi, akaba yambaye ikoti rifite ibara ry'impu ndetse yambaye agatambaro mu ijosi k'amabara atandukanye akaba afite igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki ndetse imbere ye hakaba hari imeza, ku ruhande rwe hakaba hari umuntu wicaye, inyuma ye hakaba hari ibiti.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo n'umweru kikaba cyandikishije amagambo y'umutuku hakaba hariho amacupa abiri, ku ruhande hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo n'umweru hakaba handitseho amagambo y'umutuku hakaba hari igipangu gifite ibara ry'umweru.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke, akaba yicaye ku ntebe y'umukara, we yambaye umupira w'umweru harimo nindi mirongo y'amabara atandukanye, akaba afite ikayi y'umweru mu ntoki ikaba iteretse ku meza, kandi hakaba hari icyapa kiriho ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ndetse afite amataratara, akaba afite n'ibisuko, iruhande rwe hakaba hari umukobwa ufite ibisuko wambaye n'umupira, inyuma hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umweru, ndetse n'umuntu ufite amavide y'icyatsi; imbere hakaba hari imashini yabugenewe yo kwerekana amashusho, bakaba bari kureba umupira.

Icyapa cyandikishijwe amagambo y'umweru, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kikaba kiri hejuru y'izu ku ruhande hakaba hari ibindi byapa bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi, imbere hakaba hari inzu ifite ibara ry'umuhondo n'izindi nzu zigiye zitandukanye, inyuma hakaba hari ibiti ndetse n'inzu ndende cyane.

Umwana ukiri muto w'inzobe ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga muntoki, inyuma hakaba hari umuntu uhagaze ufite ibikoresho cy'ikoranabuhanga muntoki, wambaye umupira w'umweru; iruhande hakaba hari inzu y'amakaro ndetse n'igikoresho cyabugenewe cyo kubikamo amata.

Akabati gafite ibara ry'umweru, kakaba gafite ibice bigiye bitandukanye. Harimo amazi ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Munsi y'ako kabati hakaba harimo intebe y'ubururu, kandi ku gikuta harimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi y'imikara, wambaye umupira w'umweru, n'urunigi mu ijosi, akaba yicaye ku ntebe imbere ye hateretse imeza iriho ibicuruzwa by'amata bitandukanye, bikaba bipfunyitse mu ducupa tw'umweru, ndetse n'umutuku werurutse.

Abagabo babiri bicaye, imbere yabo ku meza hakaba hari amasahani agiye atandukanye. Isahani imwe ikaba iriho ibyo kurya, hakaba hari n'ikirahure kirimo ibintu by'umweru. Umwe muri abo bagabo akaba yambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, undi akaba yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ivu.

Umwana wambaye ikabutura wambaye n'inkweto zifunguye akafashe ku kabati gasa ubururu imbere ye hakaba hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari akabati ndetse n'icyuma cyagenewe gukonjesha, hakaba hari injerekani n'umubirikira usa ubururu ndetse n'imashini yagenewe gutunganya amata no kuyabika neza.

Umugore w'imibiri yombi, wambaye akantu mu mutwe k'umukara ndetse n'icyatsi, wambaye umupira w'amaboko maremare, w'umweru, ndetse n'ipantaro y'umutuku, iruhande rwe hakaba hateretse intebe y'umweru, ku gikuta hakaba hari ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ku rundi ruhande hakaba hateretse imeza, hariho umufuniko w'ubururu.

Umukobwa wambaye ikabutura, inkweto zifunze, n'umupira w'umweru akaba afite telefoni mu ntoki, akaba ahetse n'igikapu, akaba ari mu nzu yabugenewe yo gutunganyirizwamo amata, iruhande rwe hari intebe, imeza ndetse n'ikayi hejuru y'iyo meza, umutaka, icyapa, amajerekani ndetse n'igicuba bashyiramo amata.

Indobo ifunguye ho gatoya mo imbere hari mo imigati, ku ruhande hakaba hari igikoresho k'ikoranabuhanga ndetse n'ikayi byose bika biteretse ku meza, imbere y'iyo ndobo hakaba hari igikoresho cyabunegewe cyo gutunganya amata.

Inyubako y'ubucuruzi, bakaba abafite igikuta gifite ibara ry'ubururu ndetse n'icyapa cy'umweru kiriho igishushanyo cy'inka, imbere hakaba hari akabati karimo agapfunyika ndetse n'amazi. Hejuru y'ako kabati, hakaba hateretse ibisabo.

Umukobwa wambaye ishati y'amaboko magufi irimo uturongo ndetse n'ibara ry'umweru, akaba yambaye impeta, akaba afite ibikoresho bigiye bitandukanye mu ntoki, akaba ari gusuka amata. Iruhande rwe hakaba hateretse imeza iriho ikayi, inyuma hakaba hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Imeza iteretseho udukarito tubiri kamwe k'umuhondo akandi karimo ikawa, kuruhande hakaba hari igikoresho cyabugenewe cyo gukonjesha, inyuma hakaba hari akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye harimo ibitera imbaraga ndetse n'ibindi.

Umuhungu wambaye ishati y'umukara y'amaboko magufi, akaba yambaye n'ipantalo ifite ibara ry'ivu, inyuma ye hakaba hari intebe ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hakaba hari umukobwa wicaye, iruhande rwe hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha, hakaba hari n'akabati karimo amazi, ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'umukara inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ku ruhande rw'ako kabati hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha ifite icyapa cy'umweru n'ubururu cyanditseho Mukamira amata ni meza kuruhande hakabaho n'idirishya ririho n'irido.

Umugore muremure wirabura ufite igikoresho kikoranabuhanga mu ntoki kikaba kiri Ku gutwi , akaba yambaye umupira w'amaboko mugufi, ikanzu, igitenge n'inkweto zifunguye. Iruhande rwe hakaba hari umugabo uri kumusukira amata imbere ye hakaba hari utubati tugiye dutandukanye bakaba bari munzu ufite ibara ry'ubururu ndetse irimo n'amakaro.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi, ufite akajerekani mu ntoki gafite ibara ry'umuhondo n'umufuniko w'ubururu, akaba ari guseka, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye amataratara, ufite imisatsi y'umweru ndetse yambaye n'ishati y'umuhondo y'amaboko magufi. Imbere ye hari indobo ebyiri zirimo imikati n'amandazi, inyuma ye hari akabati karimo amajerekani ndetse bari mu nzu y'umweru.

Umuhungu wirabura, akaba yambaye umupira w'umukara n'umweru, akaba ari kunywera amata mu kirahure, iruhande rwe hakaba hari abantu babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'ubururu, na bo bakaba bari kunywa amata.

Imashini yabugenewe yo gukonjesha mu imbere hakaba harimo akajerekani gafite ibara ry'umweru ndetse n'ibikombe bibiri harimo igifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi, ku ruhande hakaba hateretse amajerekani manini yagenewe gushyiramo amazi, ku rundi ruhande hakaba hari imeza.

Ibikombe bifite amabara agiye atandukanye harimo iby'ubururu, iby'icyatsi, n'umutuku, bikaba biteretse ku ruhande hakaba hari umuntu ufite igikombe kinini akaba ari gusuka amata mu kindi gikombe, imbere ye hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga.

Akabati hejuru hateretseho indobo n'umufuniko, hakaba harimo amandazi, munsi hakaba harimo ibirahure bibiri, munsi hakaba harimo amatasi y'umweru menshi, munsi hakaba harimo isahane n'ibindi bikoresho. Inyuma mu kabati gasa ubururu hakaba harimo amata ndetse n'ibindi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iparitse, imbere yayo hari icyapa cyake kiri mu mabara y'umweru n'ubururu imbere y'icyo cyapa hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho Inyange kiri mu mabara y'ubururu kikaba gifite imiryango y'ubururu ndetse mu imbere hakaba harimo amakarito menshi.

Umugore usutse wamabye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'ikweto, irihande hakaba hari imashini yabugenewe yogukonjesha ndetse n'imashini yabugenewe yogutunganye amata. Kurundi ruhande hakaba hari akabati gateretseho indobo irimo imigati , kurundi ruhande hakaba hari intebe ebyeri z'umweru.

Umugabo wirabura uhagaze wambaye umupira w'umweru hakaba hari n'abana babiri bicaye umwe ari kunywa amata mu kirahure, ndetse afite n'umugati mu ntoki, akaba yambaye umwenda w'amabara atandukanye, ndetse n'ipantaro y'ubururu, hakaba hari ameza y'umweri abateretse imbere, ndetse n'utubido, ndetse n'amasahe y'umweru.

Icyapa kiriho umwana uri kunywa amata, akaba afite ikirahure kirimo amata mukiganza, kuruhande hari amagambo agira ati "ni amata meza ateguwe neza ashobora guhita anyobwa, yujuje ubuziranenge."

Icyapa gifite ibata ry'ubururu cyandikishijwe amagambo y'umweru ndetse n'icyatsi, hakaba handitseho inyange ndetse n'andi magambo agiye atandukanye. Hakaba hariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amazi, ibyo kunywa bigiye bitandukanye, amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugore w'inzobe ufite ibisuko, akaba yambaye umupira w'umukara, akaba afite akarito mu ntoki. Ku ruhande hakaba hari umugore ufite udupfunyika turimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'amata, akaba yambaye ishati y'umweru. Inyuma hakaba hari ibikoresho byabugenewe byo gukonjesha.

Umugore wirabura wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru, akaba afite umubirikira mu ntoki ndetse n'ikindi gikoresho gifite ibara ry'icyatsi mu ntoki, inyuma ye hakaba hari intebe. Iruhande rwe hakaba hari idirishya akaba afite akabido k'umweru no ku ruhande hakaba hariho akandi kabido biteretse ku meza.

Umuntu ufite ikirahure kinini kirimo amata, akaba ateretse ku meza ifite ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba hari umugabo wirabura wicaye na we uri kunywa amata, ku ruhande rwabo hakaba hari abantu babiri bicaye na bo bari kunywa amata, ku rundi ruhande hakaba hari hari umuntu ushinzwe gutanga serivise ndetse inyuma hakaba hari akabati karimo utubido.

Umukobwa w'inzobe wambaye agashati k'umukara ufite ikibido y'umuhondo mu ntoki ze akaba ari gusuka amata mu kirahure giteretse ku isiniya iruhande rwayo hari ibirahure bibiri birimo amata byuzuye neza ndetse kurundi ruhande harimo ikindi kirahure giteretse ku meza.

Umuhungu wirabura muremure wambaye ishati y'amaboko maremare irimo imirongo igiye itandukanye ipantaro ndetse n'inkweto zifunze iruhande rwe hakaba hari intebe y'umweru kuruhande hakaba hari intebe y'ubururu kurundi ruhande hakaba hari ibikiresho byabugenewe byo gukonjesha akaba ari munzu ifite Ibara ry'umweru n'ubururu Kandi iyo nzu ikaba ifite amakaro.

Inzu y'ubucuruzi ifite akabati gafite ibara ry'ubururu, hakaba harimo ibyo kunkwebwa ndetse n'amazi, mu kandi kabati hakaba harimo isahani iriho amagi, ndetse n'indobo iteretsemo ibyo kurya bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari igikoresho cyabugenewe banyweramo amata ndetse banayabikamo.

Abahungu babiri n'umukobwa umwe, umuhungu umwe yambaye ingofero y'umukara, umupira w'umutuku, ipantaro ifite ibara ry'ubururu bwerurutse n'agakombe mu ntoki, undi muhungu yambaye umupira w'umukara, ipantaro ifite ibara ry'ivu, agakombe mu ntoki ndetse yambaye n'impeta. Umukobwa yambaye ingofero y'umukara, umupira w'umutuku, ipantaro ifite ibara ry'ivu, n'uducupa tubiri mu biganza byombi.

Umugore w'inzobe wambaye ingoferi wambaye igitenge gisa ubururu ari mu mabara y'umuhondo, umweru umukara, akaba afashe ku kavido gasa umuhondo impande y'ayo mavido khakaba hari amateremusi menshi cyane ku gikuta hakaba hariho inynyeri y'ubururu.

Abantu benshi bafite ibirahure birimo amata bakaba bari gukozanyaho, munsi hakaba hari isahani iriho umugati ndetse n'ubundi bukoresho byabugenewe bashyiramo umunyu. Hakaba hari akabati inyuma yabo, umwe muri abo bantu akaba yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara.

Amabido ane y'umweru, manini, yagenewe gushyirwamo amazi, iruhande rwayo hari urugi rw'ubururu, ku rundi ruhande hari icyuma cyagenewe gukonjesha. I ndani harimo igikombe cy'icyatsi n'igikombe cy'umweru. Byose bikaba biteretse mu nzu irimo amakaro.

Udusanduku twabugenewe kubikamo amata y'ikivuguto, tukaba dufite amabara agiye atandukanye, iruhande hakaba hari uducupa ndetse n'udukarito tundi twabugenewe two kubikamo amata, inyuma hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha, ndetse hakaba hari n'ubujerekani bw'umweru bwabugenewe kubikamo amata neza.

Umuhungu wicaye ku meza, akaba afite igikombe kirimo amata, ndetse akaba afite n'umugati mu ntoki. Akaba yambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara. Imbere ye hakaba hicaye umwana mutoya ufite ikirahure mu ntoki cy'amata, ndetse akaba afite n'umugati. Imbere hakaba hateretse ububido bw'umweru, ndetse n'amasahani, n'imeza y'umweru. Ku ruhande hakaba hari umugabo uri kubaha amata.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, n'ikabutura y'umutuku yerurutse, n'inkweto zifunze, ahagaze mu nzu y'amakaro, ku ruhande hari umugabo ndetse n'imashini ishinzwe gutunganya ibikomoka ku mata.

Imashini yabugenewe yo gutunganya amata, ikaba ifite amabara y'ubururu n'umweru kuruhande rwayo, impande yayo hakaba hari indobo ndetse hakaba hari n'imeza, kurundi ruhande hakaba hateretseho intebe ndetse ikaba ifite n'amakaro.

Umugabo wirabura, ufite imisatsi, wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, wicaye ku ntebe y'umweru, akaba afite akabido gafite ibara ry'umweru inzu ari mo ikaba ifite amakaro. Inyuma ye hakaba hari akabati k'ubururu, iruhande rwe hakaba hari idirishya.

Icyuma cyabugenewe cyo gutunganya amata, kikaba gifite icyapa cy'umweru kiriho amagambo y'umweru ndetse n'ubururu, imbere hakaba hateretse akabido bakaba bari gusukamo amata, kuruhande hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantalo y'umukara akaba ariwe uri gusuka ayo amata.

Umugabo muremure wirabura, wambaye ishati y'amaboko maremare, irimo imirongo igiye itandukanye, wambaye n'ipantaro y'umukara, imbereye ye hakaba hari akabati ndetse hakaba hari n'umukobwa wicaye ku ntebe, inyuma y'uwo mukobwa hakaba hari akabato karimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, inyuma y'uwo mugabo hakaba hari intebe ifite ibara ry'ubururu.

Umugore wambaye agatambaro k'umutuku mu ijosi, umupira w'umuhondo ndetse n'ipantalo y'ubururu utambuka mu muhanda, iruhande rwe hari imodoka y'umweru, inyuma y'iyo modoka hari imiryango itatu ikorerwamo ubucuruzi hari aho bacuruza amata, bacuruza imyenda ndetse n'ahandi bacuruza imiti.

Akazu gato k'ibyuma gafite ibara ry'ubururu, hakaba hafungiranyemo amabido manini cyangwa amacupa manini yagenewe kubikamo amazi; iruhande hakaba hari ingufuri ebyiri zifunze zifite amabara atandukanye.

Akabido gasa neza gafunze neza karimo amata kakaba kometseho agapapuro k'umweru kariho amagambo y'umukara. Imbere yako kabido hakaba hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubururu.

Umugore wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara, ndetse n'ijipo ifite amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwe hakaba hari imashini yabugenewe yo gutunganya amata, ikaba ifite ibara ry'ubururu, imbere hakaba hari umuntu wicaye ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu.

Icyapa cyometse hejuru y'inzu, kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hakaba hariho nimero: magana abiri mirongo itanu, karindwi, ikenda, zeru, kabiri, karindwi, kane, kane, umunane, ikenda, ni zo nimero wakoresha mi gihe ubashaka.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, inyuma ye hari akabati karimo amata n'amazi. Imbere ye hari akabati karimo amata, amagi, n'udukoresho twabugenewe two gupfunyikamo. Iruhande rwe hakaba hari imashini yabugenewe itunganya amata. Imbere ye hakaba hari imeza y'umweru.

Umugore w'inzobe usutse wambaye ikanzu y'igitenge, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki. Iruhande rwe hakaba hari itasi y'umweru, harimo n'ikiyiko. Ku rundi ruhande hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha, ku ruhande ruhande hakaba hari imashini yabugenewe yo gutunganya amata.

Amata ateretse ku meza ari mu kabido ku mweru gasa neza gafunze neza hakaba hariho agapapuro kandikishijwe amagambo y'umukara imbere yako ga papuro hakaba hari umuntu ahahagaze wambaye imyenda y'ubururu iruhande rwe hakaba hari undi mugabo uhahagaze.

Ameza y'umweru akaba ateretseho imineke, indobo irimo amandazi, amagi ndetse n'agasahani gafukuye. Munsi yayo hakaba hateretse agakoresho k'umutuku kagenewe kujugunyamo imyanda, imbere hakaba hari icyapa ndetse n'umusore uhagaze.

Icyapa gifite ibara ry'umukara kikaba kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ya muka uruhande hakaba hari umuntu uhahagaze wambaye isaha ndetse n'umupira w'ubururu kuruhande rwe hakaba hari udukarito turimo amata.

Inzu irimo amakaro harimo umuntu uri gukoropa amazi yamenetse ku ruhande hakaba haparitse ipikipiki ndetse n'igare ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda. Imbere hakaba hari ibiti hakaba hari n'umuhanda ndetse wa kaburimbo.

Imishini zabugenewe gutunganya amata imwe ni nini cyane iruhande rwayo hari indi itari nini cyane, imbere hakaba hateretse agakombe k'umutuku zikaba ziri mu nzu ifite amabara y'umweru kandi zikoresha amashanyarazi zikaba ziteretse mu nzu irimo amakaro.

Agacupa kabugenewe ko kubikamo amata kakaba gafite ibara ry'umutuku, iruhande hakaba hari akandi kabugenewe kubika mo amata aryohereye ku ruhanda hakaba hariho amacupa y'amazi, ku rundi ruhande hakaba hari akabido k'amata byose bikaba biri mu mashini yabugenewe gukonjesha.

Utubido dutandatu duteretse ku makaro, tubiri muri two twandikishijeho amagambo y'ubururu, kamwe amagambo y'icyatsi, akandi amagambo y'umukara, utundi tubiri dusigaye ntakintu na kimwe twanditseho, hakaba harimo kamwe k'umuhondo.

Akabati kadafite ibara gakozwe mu biti kakaba karimo amajerekani afite amabara y' umweru abiri manini, ku ruhande hakaba hari amatafari ndetse hakaba n'igikuta gisize ibara ry' ubururu munsi y' ako kabati hakaba hari icyapa gifite ibara ry' ubururu.

Intebe ebyiri ziteretse mu nzu y'amakaro, imbere yayo hari imeza ifite ibara ry'umweru, hakaba hari icyapa kiriho utujerekani tw'amata, hakaba hariho n'urupapuro ruriho nimero arizo; zeru karindwi, umunani umunani, kabiri karindwi, kabiri kabiri, umunani karindwi.

Imashini y'icyuma yabugenewe gutunganya amata ava ku nka: ikaba ifite amabara y'ubururu n'umweru ku ruhande, hejuru ikaba iteretseho agaseke gafite ibara ry'ivu mo imbere hakaba harimo udatambaro tw'umweru, ikaba ikoresha amashanyarazi kandi iteretse mu nzu irimo amakaro.

Umugore wirabura wambaye ikanzu y'umutuku, inyuma ye hateretse igare, imbere ye hateretse imeza, hejuru hariho akabido n'ikayi n'igikapu cy'umukara, imbere y'imeza hateretse intebe, mu nguni y'inzu hariho umutaka w'umutuku, inzu iteye irangi ry'umweru, ifite amakaro ku gikuta ndetse n'amakaro hasi.

Igikoresho cyabugenewe cyo gutunganya amata kikaba giteretse mu nzu irimo amakaro kandi kikaba gikoresha n'amashanyarazi imbere yacyo hari igikombe cy'umutuku, iruhande hari amadirishya, inyuma yayo hari imashini.

Inzu y'ubucuruzi, yagenewe gucururizwamo amata, ikaba ifite imiryango ifite amabara y'ubururu. Ku ruhande, ku gikuta hakaba hari amabara y'umweru n'ubururu. Mo imbere hakaba harimo utubati twagenewe gucururizwamo ndetse n'imashini yabugenewe yo gukonjesha.

Umuntu ufashe igikombe cy'umweru kirimo amata ku ruhande rwe hakaba hari ikiyiko, ifurusheti ndetse n'imigati ibiri iteretse ku isahani y'umweru ndetse bikaba biri ku meza y'umweru, imbere hakaba hari umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo irimo amabara y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikaba irimo amatafari, ndetse n'igikuta kigiye gifite ibara ry'ubururu hakaba hari n'ibyapa bigiye bitandukanye. Kuruhande hakaba hari karimo amabido ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye nk'amazi hakaba hari intebe n'ameza ndetse hakaba hari n'imashini yabugenewe yo gutunganya amata, ndetse n'indobo irimo imikati.

Inzu y'amakaro, harimo intebe y'ubururu n'intebe y'umweru, ndetse n'imeza, hakaba harimo umukobwa ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari imashini yabugenewe gutunganya amata. Hakaba hari umugore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, wasutse, kandi wambaye ibitenge.

Imeza hariho igitambaro hakaba hateretseho ikirahure kirimo amata cyuzuye neza, imbere hakaba hari umudamu uhicaye w'inzobe, ufite igipapuro mu ntoki, wambaye ibitenge, imbere ye hakaba hari ikirahure cy'umweru, ku ruhande hakaba hari imashini yabugenewe gukonjesha, ku rundi ruhande hakaba hari intebe y'ubururu.

Icyuma cyabugenewe cyo gutunganya amata, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba giteretse mu nzu ifite amakaro, ku ruhande hakaba hari imeza ndetse kandi icyo cyuma kikaba gikoresha amashanyarazi, iruhande hakaba hari amatafari.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ifite n'amakaro, hakaba hateretseho imashini zirenze imwe, imwe ikaba itaretse ku biti, ikaba ikoreshwa n'amashanyarazi, ikaba ifite ibara ry'umweru. Ku ruhade hakaba hari n'indi mashini yabugenewe yo gutunganyirizwamo amata, ndetse hakaba hari n'idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi ifite intebe zitandukanye zifite amabara y'umweru, ndetse n'imeza y'umweru, hakaba hari icyapa kiriho utubido dutatu, turimo amata, inyuma hakaba hari akabati karimo amandazi, ndetse n'amabido y'umweru, ndetse n'amazi ku ruhande.

Igikoresho cy'icyuma cyabugenewe cyo gutunganya amata, kikaba gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, kikaba gikoresha amashanyarazi, iruhande rw'icyo gikoresho hakaba hari ikindi gikoresho cyabugenewe cyo gukonjesha, kikaba gifite ibara ry'umweru n'ubururu, mo imbere hakaba hateretse mo utujerekani.

Inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo amata. Ifite icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, mo imbere hakaba harimo imashini y'umweru yagenewe gutunganya amata. Imbere y'iyo mashini hakaba hari umukobwa wicaye, wambaye ikote ry'umukara, ufite n'ibisuko. Iruhande hakaba hari akazu gatoya k'ubururu ndetse n'imodoka y'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uturongo akaba yambaye ipantaro y'umukara, imbere hakaba hari akabati hakaba hari n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu ndetse unicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu, inyuma hakaba hari akabati k'umweru karimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, inyuma y'uwo mugabo hakaba hiteretse intebe ifite ibara ry'ubururu.

Akabati gateretsemo udupfunyika tubiri, ndetse hakaba harimo n'uducupa twinshi tw'amazi. Amazi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu gihe warwaye umutwe wayakoresha, mu gihe ufite inyota wayakoresha ukimara inyota.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara y'amaboko magufi, ufite ibikomo byinshi ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse n' ikote ry'umukara uri kureba ku ruhande, i ruhande rwe hakaba hari umugabo utanze amata ari mu kirahure, akaba ari guseka.

Akabati gafite ibara ry'ubururu hejuru hateretseho agasanduku mo imbere mu gasanduku harimo ibikomoka ku ifarini, impande y'ako gasanduku hateretseho amateremusi abiri, imbere y'ako kabati hari idirishya rifite amabara abiri ariyo umweru n'ubururu.

Umukobwa wirabura wambaye ishati akaba ahagaze, undi wambaye agatambaro mu ijosi akaba yicaye, n'undi wambaye umupira w'ingofero akaba ari kureba mu idirishya; imbere yabo hakaba hateretse isahani iriho ibyo kurya ku ruhande hakaba hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Akabati gafite ibara ry'ubururu, kakaba gafite ibice bigiye bitandukanye; hejuru hakaba hateretse agasanduku karimo ibikomoka ku ifarini, iruhande hakaba hateretse amateremusi abiri, munsi hakaba hateretse udusanduku turimo imikati, munsi hakaba harimo amasahani, iruhande hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, w'igikara, akaba ari gusuka amata, iruhande rwe hakaba hari idirishya rifite ibara ry'ubururu, iruhande rw'idirishya hakaba hateretse aka bido gasa umuhondo, iruhande rwe hakaba hari n'ikayi.

Umuntu ufite igisate cy'umugati mu ntoki, iruhande rwe hakaba hateretse imeza imbere y'i meza hakaba ari ntebe ifite ibara ry'ubururu bikaba biteretse mu zi irimo amakaro ndetse hakamo n'amabara y'ubururu, kuruhande hakaba imashini igenewe gutunganya amata.

Ikigo cy'ubucuruzi cyagenewe gucuruza amata, gifite icyapa cy'umweru cyandikishije amagambo y'ubururu, ku muryango hakaba hariho kandagira ukarabe y'icyatsi. Umuryango ukaba usa ubururu, mo imbere hakaba harimo akantu kagenewe gushyirwaho imyanda gafite ibara ry'umuhondo.

Imashini ishinzwe gutunganya amata, ifite ibara ry'umweru yandikishijeho amagambo y'ubururu, imbere yayo hari umugabo uri gusuka amata mu kirahure, munsi hakaba hari indobo y'ubururu, inyuma hakaba hari akabati karimo uducupa.

Umugore wirabura wambaye ikanzu y'umukara irimo amabara, i ruhande rwe hakaba hari icyuma cyabugenewe cyo gutunganya amata, munsi hakaba hari umukoropesho ndetse bakaba bafite sima kandi bakaba bari mu nzu ifite ibara ry'umweru.

Igikoresho cyabugenewe cyo gukonjesha hakaba habitsemo amazi, amata, ibikombe bibiri by'umweru ndetse n'igikombe cy'icyatsi. Iruhande rw'icyo gikoresho hari amabido manini y'umweru yagenewe kuba yabikwamo amazi.

Indobo ebyiri ziteretse ku meza hamwe n'ikaramu, Indobo imwe irimo amandazi kandi arapfundikiye, indi ndobo irimo imigati nayo irapfundikiye, hejuru hateretseho agakoresho kabigenewe ko kwarura imigati, ku rundi ruhande hari umugabo uri gutambuka.

Urugi rufite ibara ry'ubururu, ruriho icyapa cy'ubururu hakaba hariho ifoto y' inka, hakaba handitseho inyange mu magambo y'umweru, mu nsi hakaba hariho utujerekani dutatu dusa umweru, iruhande y'urwo rugi, hakaba hateretseho amabido y'umweru manini igenewe kubikwamo amazi.

Akabati gafite ibara ry'ubururu, hakaba hateretsemo amata, amazi, amakarito ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye. Imbere hakaba hateretse akabati k'umweru, kakaba kariho indobo ebyiri ndetse hakaba harimo n'ibyo kurya bitandukanye nk'amandazi bikaba biteretse mu nzu ifite ibara ry'ubururu.

Icyuma cyabugenewe cyo gutunganya amata, imbere hari idirishya risa ubururu, ku ruhande hari akabati gasa ubururu, hejuru hariho amacupa y'amazi, munsi hariho uducupa tubikwamo amata, munsi harimo umutobe, munsi harimo amata, munsi harimo amacupa.

Umugore w'inzobe ufite ibisuko wambaye ibitenge akaba yicaye mu ntebe, imbere ye hateretse Imeza iriho ikirahure cy'umweru, iruhande rwe hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha.

Inzu y'ubucuruzi yagenewe gicururizwamo, ikaba ifite imiryango y'umweru, ikaba yandikishije amagambo umukara ndetse n'umweru, ku ruhande hari n'indi nzu y'ubucuruzi mu marange y'umukara, ku rundi ruhande hakaba hari icyapa cyanditseho ikaze kinini kiriho ibicuruzwa.

Umuntu ufite umugati ushunnyeho mu kiganza ke imbereye hakaba hateretse ikaramu iri kumeza ikaramu ikaba ariyubururu iruhande hakaba hateretse ikirahure cy'uzuye kirimo amata, kurundi ruhande hakaba hateretse yo indobo bakaba bari mu nzu ifite amakaro.

Indobo ebyiri ndetse n'ikaramu byose biteretse ku meza indobo imwe irimo amandazi akozwe mu ifarini imbere hari indi ndobo hejuru hariho agakoresho kabugenewe ko kwarura, imbere hakaba hari imiryango y'ubururu kuruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo uturonko tw'umukara ufite umusatsi muke, akaba yambaye n'ipantaro y'ubururu, imbere ye hari akabati karimo imikati, n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse n'uducupa, imbere ye hakaba hari umugabo uri kumuha serivise ufite agacupa mu ntoki ndetse n'agapfunyika.

Inyubako yabugenewe kugurisha amata. Ifite imiryango ibiri y'ubururu hakaba hariho icyapa cy'umwana. Imbere hakaba hari imashini yabugenewe gukonjesha ndetse n'akabati karimo utujerekani tw'umweru. Kandi iyo nzu ikaba ifite amakaro, ku ruhande hari amabuye abiri afashe imiryango ndetse n'agakoresho kabugenewe ko kujugunyamo imyanda.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umutuku, imbere ye hakaba hahagaze umwana, ku ruhande rwe hakaba hari umugore akaba ari ku kabati gafite ibara ry'ubururu ndetse hejuru y'ako kabati hakaba hari n'akavido karimo amata, ku ruhande hakaba hari icupa rinini ryabugenewe ribikwamo amazi, iyo nzu ikaba ifite amakaro ndetse hakabamo n'ibara ry'ubururu.

Inzu ifite irange ry' umweru ikaba ifite amakaro hasi ndetse no ku gikuta hakaba hari n'imashini yabugenewe yo gutunganya amata, hejuru yiyi mashini hariho umubirikira w' ubururu ndetse n' ibikombe binini bisa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo imbere haparitse ipikipiki ifite ibara ry'umutu, ku ruhande hari umutaka ndetse hari n'inzu ifite amabati maremare y'umutuku, hakaba hari icyapa kiriho inka ndetse n'utubido ndetse gifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hahagaze umukobwa, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikanzu ngufiya y'icyatsi, inyuma hakaba hari akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye, akaba afite n'amafaranga mu ntoki ze.

Imeza iriho amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'umukara, hakaba ateretseho ibirahuri bibiri birimo amata, ku ruhande hakaba hariho akabido k'umweru, iruhande rwayo hakaba hari intebe ifite ibara ry'umweru, hakaba ari mu nzu ifite igikuta cy'umweru.

Umuhungu wirabura wambaye ikote riciye ry'ubururu n'inkweto zifunguye ndetse n'umupira w'umukara imbere ye hahagaze umukobwa uri gusuka amata, imbere ye hateretse akajerekani k'umuhondo. Ku rundi ruhande hari igiti.

Inzu y'ubucuruzi, ikaba irimo akabati karimo amandazi, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari icyapa cyanditseho inyange, gifite amabara y'ubururu; ndetse hakaba hari n'akabati k'ubururu, munsi harimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Umugore wasutse wambaye ibitenge ari kureba mu ishakoshe akaba yicaye ku ntebe y'ubururu, impande ye hari icyuma cyabugenewe cyo gukonjesha , ku meza hari igikoresho cy'ikoranabuhanga, igikombe cy'ubururu kirimo ikiyiko, amata mu kirahure ndetse n'amandazi atatu ari ku isahani.

Igikoresho cyabugenewe cyo gutanga amata, kikaba gifite ibara ry'ubururu n'umweru, hakaba harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Imbere yayo hari umubirikira w'ubururu ndetse n'ibido y'umweru. Iruhande hakaba hateretse intebe, kandi ikaba iteretse mu nzu y'amakaro.

Imashini y'icyuma yabugenewe yo gutunganya amata, ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse yandikishijeho amagambo y'umweru, inyuma yayo hari akabati karimo amazi y'ubwoko bugiye butandukanye, ku ruhande akaba ari imashini bugenewe yo gukonjesha kandi ikaba ikoreshwa n'amashanyarazi.

Inzu yabugenewe yo gucururizwamo amata ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma hakaba hari imashini yabugenewe yo gutunganya amata, imbere hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'amabara y'icyatsi hakaba hari n'abakobwa babiri bahagaze bari gutanga serivisi bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imyenda y'umweru.

Mu nzu harimo ibara ry'ubururu ku ruhande hakaba hari imashini yabugenewe yo gutunganya amata ku ruhande hakaba n'indi mashini, imbere hakaba hateretse indobo, imeza ifite ibara ry'umweru ndetse akaba ari inzu irimo amakaro.

Umugore w'imisatsi wambaye ikoti ry'umukara, ndetse n'ijipo irimo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwe hari imashini yabugenewe gutunganya amata, iruhande rwe hari umugabo wicaye ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki.

Umuntu afite agakombe mu kiganza kagizwe n'amabara y'umkara n'umweru hakaba kanditseho Mukamira. Kakaba karagenewe gushyirwamo amata bakanavangamo n'inyeri kugira ngo biryohe cyane. Ibi bifasha abana bakiri bato kugira ngo banywe amata ndetse n'abantu bakuru bemerewe no kuyanywa.

Imashini y'icyuma yagenewe gutunganya amata. Ifite ibara ry'umweru yandikishijeho amagambo y'ubururu ikaba iteretse mu nzu irimo amakaro. Inyuma hakaba harimo akabati karimo amata ndetse n'utubido hakaba harimo irangi ry'ubururu kandi iyo mashini ikoresha amashanyarazi hakaba hari n'intebe y'umweru ku ruhande.

Umuhungu wirabura wambaye agapira gafite ibara ry'ivu ndetse n'umukara akaba afite ikirahure cy'amata ari kunywa iruhande rwe hari umugore nawe yambaye ishati irimo uturongo n'ipantalo y'umukara akaba yicaye ku ntebe y'umweru nawe afite igikombe iruhande rwe hari umuhungu uri kunywa amata.

Umugabo wirabura wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, wandikishije amagambo y'ubururu akaba yambaye n'isaha, iruhande rwe hari umugabo ufite agapfunyika, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze.

Akazu k'umutuku kariho amagambo menshi afite ibara ry'umweru, akaba rero ari ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, iruhande hakaba hari umutaka w'umutuku, hakaba hari igicupa kirimo amazi, ndetse ku rundi ruhande hakaba haparitse ipikipiki.

Zeru zeru zeru zeru umunani akaba ari imibare yanshyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho ku buryo wakishyura amafaranga nta n'igiceri k'ijana bagukase, birizwe kandi birihuta.

Umuntu ufite uruhu rwera akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, imbere ye hakaba hateretse undi umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki akaba yambaye umupira w'umweru, imbere ya ho hakaba hateretse agakorehso k'ikoranabuhanga, kakaba gateretse ku meza.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke, wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ivu, akaba ahetse igikapu cy'umukara, imbere ye hakaba hari mudasobwa, imbere ya mudasobwa hakaba hari umuhungu wicaye wambaye amataratara n'umupira w'umuhondo, kuruhande hakaba hari umuhungu wambaye umupira w'umuhondo.

Umuhungu wirabura wambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare, iruhande rwe hakaba hari imodoka nyinshi, iruhande rwe hakaba hari umuhungu w'imisatsi wambaye amataratara ufite igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'ivu ndetse n'ikabutura. Imbere ye hakaba haparitse imodoka n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo.

Abagabo benshi bahagaze munsi y'igishitingi gifite ibara ry'umuhondo, akaba ari icy'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho: hakaba hari uwambaye umupira w'icyatsi, amasogisi y'umweru n'agakabutura k'ubururu, undi akaba yambaye ishati y'amaboko magufi irimo n'uturongo ndetse n'abandi benshi barahagaze bari kureba.

Umugabo muremure, ufite uruhu rwera, akaba yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, akaba afite agaseke, hakaba hari umugore wambaye amataratara, uri gukora muri ako gaseke, ku ruhande hakaba hari umuntu wicaye, ufite umupira ufite ibara ry'umuhondo, imbere hakaba hateretse mudasobwa n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Abakozi batatu bashinzwe gutanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho, umwe aricaye, babiri barahagaze, umwe ari gufasha umukiriya, ku ruhande rwabo hari imodoka nyinshi ndetse na moto, bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo ndetse kaba bicaye munsi y'umutaka.

Umugabo wambaye umupira uriho Ibara ry'ivu akaba afite igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki akaba ari imbere y'imashini irimo imibare hejuru yiyo mashini hakaba hariho akapa k'umuhondo kagaragaze uburyo ki ushobora kwishyuramo amafaranga batagukase nimero arizo Karindwi zero zero gatatu icyenda gatatu irizewe Kandi birihuta.

Abagabo batatu barahagaze imbere y'akazu gasa umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'ibara ry'ivu, undi yambaye ishati irimo uturongo, bose bari gushaka serivisi zerekeye ku itumanaho.

Zero, zero, gatanu, gatanu, rimwe, ubwo ni uburyo ushobora gukoresha wishyura amafaranga aho ariho hose batagukase, ubu buryo burizewe burihuta kandi bwemewe n'amategeko,

Rimwe zeru umunani kane rimwe gatatu iyi ni nomero ushobota gukoresha aho waba uhererye hose ukishyura ntakiguzi bagukase. Birizewe, birihuta, biroroshye kandi birashoboka.

Umuhungu wirabura wambyaye ingofero ifite ibara rya umuhondo na ubururu na umupira ufite ibara rya umuhondo na ubururu, ufite igikoresho cya ikoranabuhanga muntoki, iruhande rwe hari umugabo ufite igikoresho cya ikorana buhanga muntoki , ufite imisatsi mike wirabura wambaye umupira wa umukara, inyuma yabo hakaba haparitse ikinyabiziga cya umukara.

Umukobwa wirabura ufite ibisuko wambaye agashati k'umweru gafite ikora ry'umukara, akaba yicaye mu kazu k'umutuku, ako kazu akaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, inyuma ye hakaba hari ibyapa bitandukanye by'icyo kigo.

Umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, akaba ari kureba uburyo ki wagura cyangwa ugatumizaho ibicuruzwa kuva mu mahanga cyangwa imbere mu gihugu ukoresheje uburyo bwa murandasi, kandi ku mafaranga makeya, kandi bikakugeraho aho uherereye hose mu gihugu ku buntu.

Umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, hakaba handitseho amagambo avuga ngo ishyura amafaranga magana atanu ukoresheje inite ndetse n'andi magambo agiye atandukanye. Ubu akaba ari uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ukaba wagura serivisi utavuye aho uri.

Umugore wambaye ikoti rifite ibara ry'ivu. Ahagaze ku kazu k'umuhondo, ari gusaba serivisi z'itumanaho. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'ubururu bwererutse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, na we ari gusaba serivisi. Umukozi utanga serivisi ari kuri telefoni, yambaye ishati y'umweru.

Umuhungu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki akaba afite agakapu k'umukara yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru, imbere ye hakaba hateretse akabati, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'ubururu akaba afite icyo kuribwa mu ntoki.

Akazu gafite ibara ry'umutuku k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho hakaba hariho amagambo y'umweru ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo, hakaba hariho n'amafoto agiye atandukanye, iruhande hakaba hari abantu ndetse n'umuryango w'icyatsi.

Umugore wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, imbere hakaba hateretse ibikoresho bitatu by'ikoranabuhanga, hakaba hateretse akapa k'umuhondo kagaragaza uburyo ki wakwishyura amafaranga, hakaba hateretse na mudasobwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo ufite imisatsi mike wambaye umupira w'umukara n'andi mabara, akaba afite igikoresho mu ntoki ze, imbere ye hakaba ari umugabo ufite umusatsi muke, wambaye umupira wumuhondo ndetse n'amataratara, akab afite agakoresho k'itumanaho mu ntoki.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho hakaba hariho amagambo yandukishijwe amabara agiye atandukanye iruhande hakabe hari umugabo wambaye ipantalo y'umukara umupira w'amaboko magufi w'ubururu akaba yifashe ku gutwi ndetse akaba ahgaze kuri ako kazu.

Umugore wicaye mu kazu k'umuhondo k'ikigo cyagenewe gutanga serivisi z'itumanaho. Uwo mugore yicaye ku ntebe y'umuhondo. Iruhande rw'ako kazu hari umwana uri kwiruka, iruhande rw'umwana hari igikapu cy'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, n'ipantaro y'ubururu ari gutambuka. Iruhande rwe hari umugabo uteruye umwana. Iruhande rwabo hari abagabo babiri bari kuganira, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye ishati y'ubururu. Bakaba bahagaze imbere y'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho.

Umuhungu wambaye ikoti ry'umutuku, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ivu. Iruhande rwe hari akazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, mo imbere muri ako kazu harimo umugabo wambaye ingofero ndetse n'akajire k'umuhondo kuko ashinzwe gutanga izo serivise. Kuruhande hari inzu z'ubucuruzi.

Akazu k'umuhondo gateretse ku gisima, ako kazu akaba ari ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho. Kakaba kariho amagambo menshi yandikishije ibara ry'umukara, hakaba hariho uburyo ushobora gukanda kugirango ubashe kujya kuri serivise zabo. Aribyo akanyenyeri rimwe gatandatu gatanu, akanyenyeri gatanu urwego.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba afite n'ikayi mu ntoki. Iruhande rwe hakaba hari umugore usutse, wambaye inkweto zifunguye ndetse n'ikanzu ndende ifite ibara ry'icyatsi. Ku ruhande rwe hakaba hari abantu bagiye batandukanye. Imbere yabo hakaba hari igisharagato gifite ibara ry'umuhondo, cy'Ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho; bakaba baje gushaka serivisi.

Umugore wambaye agapfukamunwa, ufite imisatsi, wambaye umupira w'umutuku w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ndetse n'ipantaro y'umukara. Iruhande rwe hakaba hari umumotari wicaye ku ipikipiki, wambaye ingofero y'umukara, ufite n'agasanduku gafite amabara y'umweru, umutuku n'umukara. Akaba ari kumuha serivisi kandi iyo pikipiki ikaba iparitse kuri kaburimbo.

Akapa gato k'umuhondo kagaraza uburyo ki ushobora kwishyura amafaranga badakukaze. Akaba ari serivisi y'ikigo gishinzwe iby'itumanaho. Imibare iriho ni gatandatu, zeru zeru, rimwe umunani gatatu, ndetse n'akanyenyeri, rimwe gatandatu gatanu, akanyenyeri gatatu, urwego. Bikaba byandikishijwe amagambo y'umukara.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imyeru barahagaze, abandi bagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo baricaye, iruhande rwabo hari umugore wambaye umupira w'umweru, w'imisatsi, akaba yitegeye igikoresho cy'ikoranabuhanga, iruhande rwabo hari umugore wambaye agakanzu k'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye agashati k'amabara, bakaba baje gushaka serivisi mu kigo cy'itumanaho.

Akazu k'umuhondo gateretse, k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, iruhande rwaho hari ipoto rihagaze, iryo poto rukaba ririho ibipapuro bisa umweru, imbere hakaba hari utwatsi dutoya, ndetse hakaba harimo na rigori.

Abagabo babiri barahagaze, umwe yambaye ishati y'igitenge, afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki yambaye n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ingofero y'umweru, afite igikapu cy'umukara, yambaye ikanzu y'amoboko maremare y'ubururu bwererutse, bakaba baje gushaka serivisi z'itumanaho.

Umugabo ufite imisatsi mike, wirabura akaba yambaye umupira w'umukara urimo amabara akaba afite igikoresho mu ntoki. Imbere ye hakaba hateretse mudasobwa, imbere ya mudasobwa hakaba hari umugabo wambaye amataratara ufite umusatsi muke wambaye umupira w'umuhondo akaba afite igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki.

Abakobwa babiri bicaye munsi y'umutaka w'ikigo gizwe gutanga serivise z'itumanaho, umwe yambaye ishati y'umweru afite ibisuko ndetse arirabura, undi yambaye itaburiya y'umuhondo arirabura kandi na we arasutse, imbere yabo hari imipira ibiri y'umuhondo ndetse n'ibikoresho by'itumanaho.

Umugore w'imibiri yombi wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umutuku ndetse wambaye n'ijire y'umuhondo. Akaba afite akapa gatoya kariho nimero ye ushobora gukoresha wishyura ari yo; karindwi, zeru, gatandatu, kane karindwi ukabasha kwishyura batagukase.

Utwapa tw'umuhondo duteretse ku meza turiho imibare zeru kabiri gatandatu zeru gatandatu kabiri, zeru kabiri icyenda zeru icyenda gatandatu, imbere hakaba hateretse mudasobwa akaba ari iby'icyigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho uburyo cyi ushobora kwishyura amafaranga batagukase, birizewe kandi birihuta.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo, akaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, mo imbere hakaba harimo akapa k'umuhondo ndetse n'umuntu wunamye. Ku ruhande hakaba hari umugore ufite agapfunyika mu ntoki, akaba aje kwaka serivisi. Ku rundi ruhande hakaba hari abandi bagabo babiri bahagaze na bo baje kwaka serivisi.

Umugore w'inzobe wambaye amataratara akaba afite udupfunyika twinshi mu ntoki, akaba yambaye ikanzu y'amaboko maremare ndetse igera no ku birenge ifite ibara ry'umutuku ndetse akaba afite n'agasakame mu ntoki akaba yambaye inkweto zicuye bugufi, iruhande rwe hakaba hari abagabo bambaye imipira y'imihondo ndetse inyuma ye hari n'imikindo.

Abantu benshi bahagaze ku nzu y'umuhondo y'ikigo gishinzwe no gutanga serivise z'itumanaho, hakaba harimo abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo n'ingofero z'imihondo, n'undi muhungu wambaye umupira w'umukara, n'undi mugore wambaye umupira w'umweru, n'undi mugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru ufite ikintu mu ntoki.

Gatandatu, gatandatu, gatandatu, gatandatu, zeru ,gatatu, zeru iyo ni imibare yagenwe n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ukaba wakishyura amafaranga aho waba uri hose batagukase, birizewe kandi birihuta

Umuntu ufite igikoresha k'ikoranabuhanga, kirimo mesaje igira iti " Ugiye kwishyura amafaranga ibihumbi biriri magana tanu kuri Bosco, ikiguzi ni zero. Emeza, ushyiremo umubari w'ibanga." Ubu ni uburyo ushobora kwishyura amafaranga, batagukase.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, iruhande hakaba harimo amabara y'umweru, kikaba giteretse hejuru y'inzu akaba aricyo bakoresha bari gutanga serivisi z'itumanaho, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, akaba afite mikoro, amerinete mu gahanga ndetse akaba ananasutse, ni umukobwa w'imibiri yombi, iruhande rwe hakaba hari abantu benshi bambaye imipira y'umuhondo, bakaba bari munsi y'igisharagati gifite amabara y'umuhondo n'umweru.

Umugabo wirabura ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga, ufite umusatsi mukeya, wambaye ikoti ry'umukara, akaba yicaye ku ipikipiki, iruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo yandikishije amabara y'ubururu, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ndetse wanasutse, akaba ari kumuha serivisi.

Akazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ku ruhande harimo ibyapa bibiri, harimo icy'umuhondo ndetse n'ikindi cy'umutuku n'umweru, ku ruhunde hari abagore babiri, umwe afite ikayi akaba ari gutanga serivise, ari kuziha umugore w'igikara ufite umupira w'umutuku.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, wicaye afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, akaba ari gufasha undi mugabo ku ruhande, ku ruhande rwe hakaba hari undi musore wambaye umupira w'umuhondo na we ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho bakaba bari gutanga serivisi, inyuma hakaba hari n'abandi bantu benshi cyane baje gushaka izo serivisi.

Umugabo wirabura wicaye mu kinyabiziga agitwaye, ku ruhande rwe hakaba hari umugore ufite impeta wambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'ubururu, ku ricyo kinyabiziga hakaba hari umubare ukoreshwa wishyura batagukase, hariho rimwe icyenda kabiri umunani umunani gatatu.

Umuhungu wirabura muremure wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umutuku wererutse, iruhande rwe hakaba hari umuntu wambaye ikanzu y'umukara, imbere ye hakaba hari umukobwa wasutse wambaye ikazu y'umukara, inyuma yabo hakaba hari intebe imbere hakaba hari icyuma kuri kwerekana amashusho.

Akazu k'umuhondo gashinzwe gutanga serivise z'itumanaho, hahagazeho umukobwa imbere ye hari abagabo babiri umwe yambaye ikoti ndetse ahetse n'igikapu cy'umukara, undi ari kuganira n'uwo mukobwa amusaba serivise.

Akazu k'umutuku ki ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho hakaba hicayemo umuhungu ufite igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki akaba yambaye agapira kuturongo iruhande hakaba hari akazu k'umuhondo ki ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho.

Ikenda zeru kabiri gatantu zeru gatanu akaba ari umibare yashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho ukaba wakwishyura amafaranga batagukase n'igiceri na kimwe birihuta kandi birizewe.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi urimo uturungo tw'amabara igiye atandukanye akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zifunze. Akaba ahagaze kukazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishizwe gutanga serivise z'itumanaho akabaje kwaka serivise z'itumanaho.

Kanda akayenyeri rimwe umunani kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru kane gatatu gatandatu gatandatu icyenda, urwego, nta yandi mafaranga wishyuzwa, ubu ni uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivi z'itumanaho, ukaba wakishyura amafaranga batagukase, birizewe kandi birihuta.

Umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi, wambaye isahani ndetse n'ibikomo, wambaye ikanzu y'amabara, uri guseka. Ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ishati, ndetse inyuma yabo hari icyapa kinini gisa umuhondo cyandikishijwe amagambo y'umukara, ndetse hariho n'ifoto y'imodoka.

Umugabo ufite imisatsi mike wirabura wambaye ishati y'icyatsi, ari guhita ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, ku rundi ruhande hakaba hari imodoka, ndetse umukobwa wicaye muri ako kazu yambaye ishati y'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umukara urimo uturongo, iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umukara bombi bakaba bambaye inkweto zifunguye, bakaba bahagaze ku kazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho hakaba harimo umugore wicaye, kuruhande rwako kazu hakaba hari undi mugabo uri gutambuka.

Umucuruzi w'amapantaro yambaye itaburiya y'umuhondo y'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanago, akaba afite ipensi mu ntoki akaba afite n'akapa gatoya k'umugondo kagaragaza uburyo ki ushobora kwishyura amafaranga batagukase, imibare ni kabiri gatanu zeru gatanu rimwe umunani.

Umuhungu wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ku ruhande rwe hari uwambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ukukara, ku ruhande hari umuhungu wicaye, wambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umuhondo, n'ingofero y'umukara, ku ruhande rwabo hari icyuma cyabugenewe cyo gukoreshwa batsindira amahirwe.

Umugabo wirabura muremure yambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, ipantalo y'ubururu, ahagaze ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho ari gusaba serivise. Ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo hakaba hahagaze umugore wambaye agakanzu k'amabara n'agokoti k'icyatsi iruhande hari abantu benshi.

Gatandatu zeru, zeru rimwe, ikinda gatangatu, iyo ni imibare ushobora gukoresha ukishyura nta kiguzi na kimwe utanze, birizewe, birihuta kandi biriroshye kandi birashoboka.

Karindwi, umunani, icyenda, zero, kabiri, zero; iyo akaba ari nimero yashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ukaba wakwishyura amafaranga batagukase n'igiceri na kimwe birizewe kandi birihuta.

Umugabo wambaye umupira w' amaboko magufi ufite ibara ry' umutuku ndetse n' ingofero y' umutuku ndetse n' ipantaro ifite ibara ry' ivu, inyuma ye hakaba hari icyapa imbere ye hakaba hari abantu bagiye bambaye amashati ndetse baje kwaka serivise z' ikigo gishinzwe gutanga serivise z' itumanaho.

Umugore w'irabura wambaye ngofero y'umukara akaba yambaye amataratara ufite umupira w'umuhondo kuruhande rwe hakaba undi mukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'undi wambaye ubururu inyuma hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye ndetse n'imitaka igiye itakanye.

Umugabo wirabura wambaye ingofero y'umukara, agapfukamuntwa, ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'amabara akaba ahagaze ku kazu k'umuhondo kikigo gishinzwe gutanga serivise zitumanaho akaba afite igikoresho kikoranabuhanga mu ntoki, muri ako kazu hakaba harimo umuhungu wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Akazu k'utuku k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho i ruhande rw'ako hari umugore wambaye isengeri aricaye, inyuma ye umugabo wambaye imyenda y'umweru n'ikinyabiziga n'abandi bantu. Impande y'ako kazu k'umutuku hateretse amasiniya.

Umugore wirabura ufite umusatsi mukeya, akaba yambaye umupira w'umuhondo ufite amabara y'umukara n'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, iruhande rwe hari umukobwa wirabura wasutse wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, bose bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho.

Umukobwa wirabura ufite ibisuko, yambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'ubururu. Imbere ye hateretse ibikoresho bisa umuhondo. Iruhande rwe hari undi muntu wambaye ingofero y'umuhondo n'umupira w'umuhondo, bakaba bakorera ikigo gishinzwe itumanaho. Iruhande rwabo hari abandi bantu bicaye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro iruhande rwe hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umutuku; akaba ahagaze ku kazu k'umuhondo k' ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho; iruhande hakaba hari abandi bantu bari gutanga izo serivise, akaba ari umukobwa ufite imisatsi ndetse wambaye n'umupira w'umukara.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho imbere hakaba hari umugore wambaye umupira w'umukara, kuruhande hakaba hari umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umutuku werurutse, kurundi ruhande hakaba hari umukobwa wambaye ijipo y'umukara, inkweto zifunguye ndetse n'agashati kubururu impande hakaba haparitse imodoka.

Umuhungu wambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara, akaba ahagaze ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho. Iruhande hari umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo, ikabutura y'umukara n'inkweto zifunguye. Iruhande hakaba hari umuhungu wambaye umupira w'umweruz ufite igikapu wambaye n'amataratara.

Umunani, ikenda, gatandatu, gatandatu, gatandatu, umunani , ubwo ni uburyo bwemewe bwizewe bwo kuba wakohereza amafaranga ava ku muntu umwe ajya kuwundi nta mafaranga n'amwe bagukase cyangwa baguciye.

Umuhungu wirabura wambaye imipira harimo imirongo akaba afite ikaramu mu ntoki, akaba arikwandika mu ikayi y'umweru. Imbere ye hahagaze umukoba ufite ibisuko wirabura, imbere yabo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibinyabiziga biparitse.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantalo y'ubururu n'inkweto z'umukara akaba ahagaze mu kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho inyuma y'ako kazu hakaba hari ibiti bynshi iruhande hakaba hari umugore wambaye akajire k'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari uwambaye ikabutura y'umutuku n'umupira w'ubururu, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, bose bakaba baje gushaka serivisi z'itumanaho kandi bakaba ari ahantu hari ibyapa by'umutuku n'umweru.

Icyapa gifite ibikoresho bitatu by'ikoranabuhanga cyometse ku rugi, gifite ibara ry'umukara. Icyo cyapa cyanditseho "Kwisondeka". Kanda akanyenyeri, gatatu kane gatanu, akanyenyeri umunani, urwego, uryoherwe n'inyongera ya interineti.

Abahungu babiri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, bakaba bahetse n'ibikapu. Bari munsi y'umutaka munsi y'umutaka w'ikigo gishinzwe serivise z'itumanaho usa n'umuhondo, iruhande rwawo hakaba hari ikindi cyapa cy'umuhondo, hejuru hakaba hari ibyapa bibiri byometse ku nzu.

Umugore wambaye ishati ya umukara, ifite amabara ya umutuku na umuhondo kumugongo, ahagaze kukazu ka umutuku kikigo gishinzwe gutanga serivise za itumanaho, akaba ari kwaka serivise za itumanaho. Iruhande rwe hari umugore wambaye ishati ya umuhondo na ipantaro ya ubururu, nawe ari kwaka serivise za itumanaho.

Umugabo w'inzobe ufite imisatsi mike wambaye umupira w'umuhondo akaba afite n'isaha y'umukara ndetse akaba afite n'igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki ze, imbere ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu akaba afite igare, inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho.

Umukobwa wambaye agapira k'umukara ufite ibisuko n'ipantalo y'ubururu bwerurutse ahagaze ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ivu n'ipantalo y'ubururu, inyuma yabo hakaba hari umugabo y'amaboko magufi n'ipantalo y'umukara akaba ari kwaka serivise z'itumanaho.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo , kakaba gahagaze iruhande rw'umuhanda; kakaba ari ak' ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho. Iruhande hakaba hari ibiti ndetse n' ibyatsi, ku rundi ruhande hakaba hari ipoto ndetse n'icyapa.

Umuhungu w'irabura ufite imisatsi ufiti n'ikaramu mu intoki akaba yambaye umupira urimo imirongo y'umweru imbere ye hakaba hari umukoba umukobwa wambaye ikanzu y'umweru irimo n'utubara akayanasutse irihande rwabo hakaba har'inzu.

Umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, hakaba handitsemo shyiramo amafaranga. Imbere ye hakaba hari akapa k'umuhondo, k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, kigufasha kumenya uburyo ki wakishyura amafaranga batagukase.

Akazu k'umuhondo kashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho kugira ngo zijye zitanga serivise ku baturage, iruhande rw'ako kazu hari ibiti hakaba hari n'umuhanda ukozwe mu matafari akozwe muri sima hakaba haparitse n'imodoka ifite ibara ry'ivu.

Umukobwa uri kureba mu gikoresho cy'ikoranabuhanga, ufite isakoshi, wambaye isengeri, wambaye n'ikanzu y'igitenge iri mu mabara y'icyatsi, wanasutse, ahagaze ku kazu k'umuhondo, ari kwaka serivise z'ikoranabuhanga, ndetse n'itumanaho.

Icyapa cy'umuhondo kigaragaza buryo ki ushobora kwishyuramo amafaranga batagukase; nimero ushobora gukoresha wishyura akaba ari 978835, ukishyura batagukase.

Umugabo wirabura wambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo ndetse in'ubururu akaba yambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'ubururu iruhande hakaba hari umugore wirabura ufite ibisuko ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki wambaye ishati y'ubururu bwijimye.

Abagore babiri barahagaze. Umwe yambaye ikanzu ndetse y'amabara, afite n'imisatsi y'umutuku, undi yambaye umupira w'umuhondo n'ubururu, yambaye n'ipantaro y'umutuku, kandi arasutse. Bakaba bahagaze mu nzu y'ubucuruzi.

Abagabo batanu barahagaze, ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho. Umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu bwererutse, abandi bambaye imipira y'imihondo n'umukara, ndetse umwe muri bo yambaye ingofero y'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndende n'ipantaro ndende y'ubururu, akaba yaka serivise z'itumanaho imbere ye hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo niwe uri kumufasha kuruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ndetse nabandi babiri bambaye amashati y'umweru.

Inzu irimo amakaro hakaba harimo akabati gafite ibara ry'umutuku handitseho amagambo y'umweru, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ku ruhande hakaba hari icyapa hari n'abakobwa babiri bafite igikoresho k'ikoranabuhanga mu ntoki. Iyi nzu n'iy'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara akaba yicaye ku ntebe akaba yambaye ipantalo ifite ibara ry'ivu, kuruhande hakaba hari undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse kurundi ruhande hakaba hari umugabo uhagaze nawe wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu bwijimye, bakaba bahagaze ahantu hari akazu k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho.

Umugabo n'umugore barasuhuzanyije, undi mugabo wambaye ishati y'umweru afashe ku mugore, bose bahagaze ku kazu k'umutuku, ako kazu akaba ari ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, umugore yambaye umupira w'umweru urimo amabara, ipantaro y'ubururu.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ku ruhande hakaba hariho ifoto y'umusaza ndetse hakaba hari n'umwana, ku rundi ruhande hakaba hari ibyapa bigiye bitandukanye ndetse mu mabara y'umuhondo umweru n'umukara.

Gatandatu, zeru, zeru, rimwe, umunani, gatatu, aaba ari imibare yashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ukaba wakoresha iyi mibare wishyura amafaranga batagukase. Birizewe kandi birihuta.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke, wambaye umupira w'umuhondo uriho amagambo y'umukara, iruhande rwe habaka hari umugabo nawe wirabura wambaye umupira w'umuhondo, imbere y'abo hakaba hari umugabo ufite uruhu rwerurutse ufite umusatsi muke, imbere yabo hakaba hateretse urwapa rw'umuhondo.

Umugabo wambaye amataratara ufite umusatsi mukeye wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo akaba ari munsi y'igisharagati gifite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho imbere ye hakaba hari ibicuruzwa n'abyo biri mu mabara y'umuhondo.

Umugore w'inzobe, ufite ibisuko, wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikora ry'umuhndo, ari husobanurira umugabo ufite umusatsi muke, wambaye ishati y'umweru, imbere y'uwo mugore hari mudasobwa, ndetse inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru n'umuhondo.

Umugabo muremure wambaye isaha, wirabura, ndetse yambaye ishati y'amaboko magufi y'umuhondo ifite amabara, iruhande rwe hakaba hari umugabo ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga bibiri mu ntoki, wambaye ishati y'amaboko maremare, kaba yicaye. Bakaba bari munsi y'umutaka w'umuhondo, w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho. Ku ruhande hakaba hari abantu ndetse hakaba hari n'umuhanda w'igitaka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, undi we akaba ari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umutuku. Kuruhande hakaba hari umugore wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, bakaba baje kwaka serivise z'itumanaho. Iruhande rwabo hari ibyapa by'umutuku n'umweru, ku rundi ruhande hakaba hari abandi bagore bicaye ndetse hakaba hari n'abandi bakiriya bategereje guhabwa serivise.

Umugabo wirabura wabaye amataratara ndetse n'umupira w'umutuku, akaba afite igikoresho cy'ikorabnabuhanga mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari umuhungu, wambaye umupira urimo amabara agiye atandukanye, akaba afite igikoresho ry'ikoranabuhanga mu ntoki, inyuma yaho hakaba hari umutaka w'umuhondo w'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, bakaba bari kumuha serivise.

Umugore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ari kwereka undi mugore wambaye itaburiya y'umuhondo ufite imisatsi miremire, imbere yabo hari umugore wambaye amataratara n'undi ku rundi ruhande w'inzobe ufite imisatsi bakaba baje gushaka serivise.

Abakobwa batatu bambaye imipira y'imihondo y'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, imbere yabo hakaba hari umukobwa w'inzobe usutse wambaye agasengeri karimo uturongo tw'umweru, akaba ari kwaka serivise z'itumanaho.

Umuhungu wirabura wambaye umupira wumweru nipantaro kuruhande rwe hakaba hari umuhungu wambaye ishati yamaboko maremare nipantaro yumukara akaba ari kwaka serivise zitumanaho, kurundi ruhande hakaba hari abagore bahagaze bari gutanga serivise zitumanaho, kurundi ruhande hakaba hari umugore wicaye.

Umugore wambaye ingofero y'ubururu irimo akabara k'umuhondo, ndetse n'umupira w'umuhondo urimo akabara k'ubururu, ndetse n'isaha iruhande rwe hari umusore wambaye ingofero n'umupira w'umukara ndetse n'isaha, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki.

Inzu nini ya ubucuruzi harimo umugore wambaye igitenge, inyuma ye hari umugabo wikoreye, ndetse inyuma yabo hari abantu benshi kandi hari na imifuka. kuruhande rwabo hari umufuka ndetse hari na icyapa cya umuhondo kigaragaza uburyo ki ushobora kwishyura amafaranga, hejuru hari amabati na ibyuma.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, agapfukamunwa k'umuhondo ndetse n'amataratara, ufite umusatsi muke, wambaye ipantaro y'ubururu, ahagaze ari kwishyura umumotari, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye ikabutura y'umukara, wambaye isaha ndetse ufite n'agapfukamunwa, na we akaba ari kwishyura umumotari.

Umugabo uhagaze, ufite uruhu rwererutse, udafite umusatsi, akaba afite amataratara mu ntoki, akaba yambaye ishati y'amaboko maremre y'umukara irimo n'amabara y'umuhondo, imbere ye hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku uri mo amabara y'umweru wirabura, bakaba bari kuganira, iruhande rwe hakaba hahagaze abantu ndetse hari n'imodoka.

Umugabo wirabura ufite umusatsi wambaye ishati ifite y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze imbere y'akazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga itumanaho, mo imbere muri ako kazu harimo umugore wambaye ishati y'umukara akaba ari ushinzwe gutanga serivisi.

Umugabo w'umusatsi mukeya wambaye umupira w'umuhondo ahagaze imbere ya mudasobwa, iruhande rwe hari urupapuro rw'umuhondo ndetse nurw'umweru. Imbere ye hari umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse wirabura, iruhande rw'uwo mugabo hari umugore w'imisatsi wambaye umupira w'icyatsi, bakaba baje gushaka serivise z'itumanaho.

Umuhungu wirabura, ufite imisatsi, yambaye umupira urimo uturongo tw'umweru, akaba ahagaze mu kazu k'umuhondo, k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho. Iruhande rwe hakaba hari urutoki, hakaba hari ibigega by'umukara, hakaba hari n'inzu ifite amabati y'umutuku.

Umugore wirabura wambaye umupira w'umuhondo iruhande rwe hakaba hateretse intebe akaba ari mu kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga itumanaho inyuma hakaba ahari gikuta gifite ibara ry'umutuku ku ruhande hari akantu gafite ibara ry'ubururu.

Umuhungu ufite imisatsi wirabura wambaye umupira w'umweru ndetse n'andi mabara, akaba ari mu kazu k'umuhondo, k'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, inyuma ye hakaba hari icyapa, imbere ye hakaba hari ikayi n'ikaramu, iruhande rwe hakaba hari igiti, ndetse n'idirishya rifunguye.

Akanyenyeri rimwe, umunani, kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru, karindwi, icyenda, gatanu, gatanu, karindwi, umunani urwego ubwongubwo ni uburyo bwashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho bwo kwishyura amafaranga batagukase n'igiceri nakimwe birizewe kandi birihuta.

Umugabo wirabura w'amataratara, ufite umusatsi muke, wambaye umupira w'umukara n'ipanaro y'ubururu, akaba ari guha serivisi abakiriya bamurimbere harimo umugore wambaye ikanzu y'ubururu wanasutse, n'umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga n'itumanaho muntoki wambaye ishati itukura muremure wirabura.

Abagabo ba tatu bari kwaka serivise z'itumanaho, umwe yambaye umupira w'umweru undi ishati y'umutuku undi ishati y'umukara n'umweru, iruhande rwabo hari abagore babiri, umwe yambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi undi yambaye ishati ndende y'amaboko maremare, akaba ahagaze kukazu kumuhondo imbere harimo umukobwa akaba afite ibisuko.

Umugore wirabura wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'itaburiya y'umuhondo, iruhande rwe akaba ari igikotineri gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amasafuriya ndetse n'akabido kumweru ndetse n'amakarito ku ruhande.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, wirabura akaba ahahagaze ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, imbere harimo umugore ufite imisatsi, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare na we akaba ari gutanga serivisi.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amabara y'umukara, akaba ari ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ku ruhande hakaba hari umuntu ushinzwe umutekano ndetse n'ibyuma bishinzwe gusohora amajwi, ku rundi ruhande akaba ari icyuma cyabigenewe cyerekana amafoto.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru akaba ahetse igikapu cy'umukara kinini yambaye n'ipantaro y'ubururu, imbere ye hari umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umutuku werurutse bakaba bahagaze ku kazu k'umuhondo bakaba bashaka serivise z'itumanaho.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwererutse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho. Mo imbere mu kazu, hakaba harimo umukobwa wambaye ishati y'umukara, akaba ari we uri kumuha serivisi.

Igisharagati gifite ibara ry'umutuku cyandikishijeho amagambo y'umweru ni ik'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, hakaba harimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku umupira w'umutuku n'ipantalo y'umukara, inyuma ye hakaba hari umugore wambaye umupira w'umutuku ku ruhande hakaba hari abandi bantu bategereje kubona serivise.

Umugabo wirabura, ufite umusatsi muke, wambaye amataratara, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'umupira w'umuhondo, inyuma ye hakaba hari icyapa cy'umuhondo, kiri mu amagambo y'umukara, hakaba hariho n'imodoka, imbere ye hakaba hateretse ikinyabiziga cyitwa ipikipiki, gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Inzu ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ikaba ifite icyapa cy'umweru kiriho umukobwa ufite imisatsi wirabura, uri gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande hari umukobwa wicaye utanga serivisi. Mu imbere harimo ibyapa by'umutuku, iki kigo kikaba gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo k'ikigo gishizwe gutanga serivisi z'itumanaho mo imbere akaba arimo abagore babiri, umwe akaba umupira w'umutuku undi akaba yambaye ako umupira ufite irindi bara, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo ibyapa bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari igiti kirekire ndetse nyuma hari igikuta kifite ibara ry'umweru impande y'igiti hakaba hari abantu bahagaze.

Umugore w'inzobe muremure wasutse yambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'umukara yambaye impeta ndetse yambaye n'agakomo yambaye n'ipantaro y'ubururu, ahagararanye n'umugabo wambaye akagofero, umupira w'icyatsi ndetse bahagaze ku kazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho kandi uwo mugabo afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki.

Umugabo wirabura yambaye umupira w'umuhondo wandikishijwe amagambo y'umukara avuga ati; gura pake cyangwa bando utsinde. Ari ku igare yambaye ishati y'umukara ndetse yambaye n'impeta. Iruhande rwe hari abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo n'abagore ndetse kandi bari munsi y'umutaka w'umuhondo w'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho.

Zeru zeru gatanu gatanu rimwe gatatu, akaba ari imibare yashyizweho n'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, ukaba wakwishyura amafaranga aho uherereye hose batagukase, birihuta kandi birizewe.

Umugabo w'irabura wambaye umupira w'umukara ufite amagambo y'umweru m'umugongo, ahagaze kukazu k'umuhondo k'ikigi gishizwe gutanga serivise z'itumanaho, iruhande hakaba hari udukarito tw'ubururu ndetse n'abagore bari gutanga serivise.

Gatandatu gatatu gatanu gatangatu kabiri gatandatu uwo ni umubare wemejwe ushobora gukoresha wishyura umuntu amafaranga kandi ntibagukate ukabikorera ku buntu, birizewe kandi birihuta.

Uburyo bw'ikoraabuhanga bwizewe bwo kwishyura amafaranga akava ku muntu akajya kuwundi bakagukata amafaranga make cyane ashoboka urugero Hakuzimana bakaba bagiye kumwishyura amafaranga igihumbi bakaba bari bumukate amafaranga makumyabiri gusa.

Intebe zifite ibara ry'umukara, imbere hakaba hari igikuta kiriho icyapa, ku rundi ruhande hakaba hari umugabo wicaye ku ntebe y'umuhondo wambaye umupira w'icyatsi, imbere hakaba hari mudasobwa ndetse n'ibirahuri, ku rundi ruhande hakaba hari umugore wambaye igitenge, akaba aje kwaka serivisi z'itumanaho.

Abagabo babiri bafatanye mu biganza, umwe yambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'umukara ndetse n'ishati mo imbere, akaba afite akantu ku ijosi gasa umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu; undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo; iruhande rwe hakaba hari abantu, kandi bose bari guseka.

Akazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, hakaba hahagazemo umugore wambaye isaha, w'igikara. Iruhande rwe hakaba hari umugore w'igikara wambaye umupira w'umutuku. Iruhande rwabo hakaba hari igiti, iruhande rw'icyo giti hakaba hahagaze abantu.

Akazu k'ibiti karimo abantu bicaye, imbere ku kazu hakaba hariho imitako iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, muri ako kazu hakaba harimo icupa ry'amazi rinini, ako kazu kakaba kicayemo abantu bari gutanga serivisi z'itumanaho ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye bakaba bari gufasha abantu bagiye batandukanye.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kandikishije amagambo y'umukara, akaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho. Iruhande rw'ako kazu hakaba hari abana batatu bahagaze ndetse hakaba hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru. Kurundi ruhande hakaba hari umuntu uri kugenda, ndetse n'amapikipiki ndetse n'inzu zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye amataratara, ufite uruhu rwera, akaba yambaye umupira w'umweru, akaba afite agaseke kari mu mabara y'icyatsi n'umukara n'umweru, I ruhande hakaba hari umugore wambaye umupira w'umuhondo n'amataratara, imbere hakaba hari mudasobwa, hakaba hari n'agasakoshi, imbere hakaba hari umugabo ufite imisatsi muke, wambaye ishati y'amaboko magufi.

Abagabo babiri barahagaze n'umugore, umugabo umwe yambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'ubururu, umugore nawe yambaye umupira w'umuhondo wandikishije amagambo y'ubururu kandi yanasutse. Undi mugabo nawe yicaye ku ipikipiki akaba yambaye umupira w'ubururu n'umweru bakaba bari kumuha serivisi.

Umugore wambaye ikoti ry'amaboko maremare akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki,, akaba yambaye ikanzu y'umukara irimo amabara y'umwer; iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero n'ubururu, na we akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, akaba ari ik'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho; inyuma hakaba hari imashini ibika ibintu ikabikonjesha.

Umusore ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki aricaye , yambaye ingofero y'umuhondo n'ikote ry'umukara. Iruhande rwe hari umusore wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umuhondo. Iruhande rwe hari umusore wambaye umupira n'ingofero y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'ubururu. Iruhande rwabo har'abantu benshi cyane bakaba bari munsi y'igisharagati cy'umuhondo ,bari kwigisha no gutanga serivise z'itumanaho.

Umuhungu w'imibiri yombi ufite umusatsi yambaye umupira w'icyatsi, inyuma ye hateretse intebe, imbere ye hari ibirahuri ndetse hari n'imashini yabugenewe mu kwerekana amashusho na none hari na mudasobwa akaba ari kwaka serivise.

Urugi rufite ibara ry'umukara, iruhande hakaba hariho utwuma tubiri. Hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo y'umukara, hakaba handitseho "kwisondeka", hakaba hariho n'andi magambo. Ndetse kuri icyo cyapa, hakaba hariho ibikoresho bitatu by'ikoranabuhanga.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo ni ak'icyigo gishinzwe gutanga serivise zitumanaho, iruhande hakaba hari icyapa ndetse nipoto inyuma yako kazu hakaba hari ibiti bitandukanye ndetse hakaba hari nibyatsi, imbere hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Rimwe, zero, umunani, kane, rimwe, gatatu, ubwo ni uburyo bwizewe bwo kwishyura amafaranga batagukase. Ku ruhande hakaba hari icyapa kiriho ibintu bigiye bitandukanye, kandi ako kantu gasa umuhondo.

Uburyo bwizewe bugezweho kandi bwihuta kuko wakwishyuye amafaranga batagukase ibyo ukora ugashyiramo nimero zawe ni urugero ufite nimero nka umunani gatatu icyenda gatanu kane kane uzishyiramo ukishyuramo nta kiguzi na kimwe bagukase.

Umugore wicaye, wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari agacupa k'amazi ndetse hakaba hari n'abantu bagiye batandukanye, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, inyuma yabo bantu hakaba hari ibiti ndetse abo bantu bakaba baje gushaka izo serivisi.

Umugabo ufite uruhu rwerurutse wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi akaba afite icyapa kiriho imibare zeru, zeru, zeru, gatatu gatandatu ndetse n'andi magambo agiye atandukanye iruhande hakaba hari umugore wambaye umupira w'umuhondo n'umukara, yambaye ingofero y'umuhondo n'amataratara, ndetse hakaba hari n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Umuntu ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze, akaba ari gukoresha uburyo bwizewe bwo kwishyura amafaranga batamukase, aribwo akanyenyeri rimwe umunani kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri mirongo icyenda makumyabiri na gatanu zero gatanu urwego, birizewe kandi birihuta.

Umusore wirabura ufite umusatsi muke ufite ubwanwa bwinshi, ukaba wambaye umupira w'ubururu bwererutse, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, ndetse n'ikarita y'umutuku, n'umukara n'umweru, iruhande rwe hakaba hari umutaka w'umutuku, imbere ye hakaba hari udusahani tubiri tw'ubururu turimo ibiribwa.

Abagabo babiri bari kubyina, umwe yambaye umupira w'umweru, ipantaro y 'ubururu bwerurutse n'inkweto z'umukara. Undi yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi n'ipantaro ndende n'imifuka y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru ndetse afite n'agatambaro mu mutwe. Nyuma hakaba hari icyapa cyanditseho izihirwe.

Umumotari wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ivu, akaba atwaye ipikipiki, akaba atwayeho igikapu gifite ibara ry'umuhondo, akaba agemuye ibiryo ahantu.

Ipikipiki iparitse ku muhanda w'amabuye ikabayicaweho n'umugabo wirabura, wambaye ishati y'icyatsi, ipantalo y'ubururu, inkweto z'umukara n'umweru inyuma hakaba hari igikapu k'icyatsi cyanditseho Vubavuba.

Inyubako ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ivu, hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye. Iruhande hakaba hariho icyapa cy'umweru n'umukara, hejuru hakaba n'imeza iri mu nzu ifite amakaro.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwemewe kandi bwizewe bwo kuba wagura amandazi y'u Rwibutso cyangwa n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye ukaba wagura akantu runaka ku mafaranga make cyane, aho ku mafaranga magana atatu mirongo itanu ubona amandazi menshi.

Uburyo bwizewe bwo kuba wahaha ukoresheje ikoranabuhanga, nko kugura inanasi, amavuta, ifarini, inyama, ishu, ibitoki, igitunguru, inyanya, karoti, ndetse n'ibindi byinshi muri rusange, bikakugeraho aho uherereye hose, ku buntu, kandi ku giciro gitoya.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho kugira ngo bufashe abantu kuba bagura cyangwa bakagurisha ibicuruzwa, aho waba uherereye hose ku Isi. Harimo no kuba bagufasha kuvana ibicuruzwa hanze, ubyinjiza mu gihugu, cyangwa ubivana mu gihugu ubijyana hanze.

Amapikiki aparitse ahetse udusanduku tw'umweru turiho amagambo y'umutuku ndetse hejuru hakaba ahetetseho ingefero z'umweru hakaba hari amatafari hakaba hari ibyatsi ndetse hakaba hari n'amabati hakaba handitseho n'amagambi kugakapu ndetse hakaba hari n'imibare zero karindi umunani karindwi, gatandatu zero zero umunani karindwi zero.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwizewe, uko wagura ibikoresho harimo: imineke, amashu, imbuto, inyanya, ibigori, amagi, imodoka ndetse n'indi bikoresho muri rusange.

Uburyo bwizewe bwo kugura ibicuruzwa bitandukanye, aho waba uherereye hose, ukoresheje ikoranabuhanga, bakaba batanga serivise zitandukanye, ndetse kandi bakabahera no ku giciro kiri hasi, bakaguha ibikoresho ibyo ari byo byose ukeneye.

Ipikipiki iparitse, ifite agasunduku hejuru kanditseho yego, hakaba hariho na nimero, icyenda rimwe, icyenda rimwe. Kakaba gafite ibara ry'umutuku, amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru. Hejuru y'agasanduku hakaba hateretseho agapfunyika gafashwe n'umuntu mu kiganza.

Umusore wirabura wambaye ingofero y'icyatsi, wambaye amataratara y'umukara, yambaye ishati y'icyatsi irimo uturongo, akaba afite igikapu cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, akaba ari ku igare. Akaba akorera ikigo cyitwa vuba vuba gishinzweho abanru, aho baba bari hose, ibicuruzwa batumijeho.

Uburyo bwo kuba wagura ibikoresho butandukanye harimo; amasakoshi, ibyuma byabugenewe bareberaho amashusho, ndetse n'utubati bagenda baterekamo ibintu bigiye bitandukanye, ukaba wagura ibi bikoresho byose utavuye aho uri, kandi ukabigura ukoresheje ikoranabuhanga.

Umumotari wambaye ingofero y'umutuku yanditseho yego moto wambaye n'ikoti ry'anditseho yego moto akaba ari ku ipikipiki ye ku ruhande rwe hakabaho undi mumotari nawe wambaye ingofero yanditseho yego moto ikote ry'anditseho yego moto ry'umutuku akaba ari ku ipikipiki ye imbere hakaba hari abandi bamotari benshi hakaba harimo n'abamotari batwaye abagenzi.

Abamotari batanu, buri umwe yicaye ku ipikipiki ye. Harimo amapikipiki abiri y'icyatsi, n'amapikipiki atatu y'umutuku. Byose, bisa nk'aho yiteguye kugenda kandi abamotari bujuje ibisabwa byose.

Umuhungu w'imibiri yombi wambaye ingofero ifite ibara ry'ivu ndetse n'ishati y'umukara y'amaboko magufi, akaba afite agasanduku gafite ibara ry'umutuku iruhande rwe hakaba hari imodoka y'umweru ndetse akaba agemuye akoresheje ipikipiki.

Uburyo bwizewe bw'ikoranabuhanga bwo kuba wagura ibikoresho ubivanye mumahanga ukabigeza aho uri, harimo amakanzu y'abagore ndetse nindi myenda itandukanye y'abagore kugiciro gitoya cyane kandi bafite n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umusore wambaye ishati y'umutuku irimo uturongo tw'umukara, akaba yambaye n'agapfukamunwa akaba yambaye n'inkweto zifunguye, iruhande hakaba haparitse ipikipiki, ndetse n'agasanduku gafite ibara ry'umutuku. Kuruhande hakaba hari umumotari, wambaye igofero y'ubururu ndetse n'inkweto zifunze. Bakaba bahagaze ku gipangu gifite ibara ry'icyatsi.

Uburyo bw' ikoranabuhanga bwizewe bwashyizweho kugira ngo buge bufasha abantu guhaha harimo n' inketo, amasakoshi, imyenda y' abagabo, amakoti, ibikoresho by' ikoranabuhanga, imashini zimesa ndetse n' ibindi muri rusange.

Uburyo bwizewe bwo kuba wagura inkweto z'abana cyangwa bakuru byizewe, ukoresheje ikoranabuhangqa, kanda wa, wa, wa, akadomo, kigure, akadomo, ra na wa, bakugezeho ibicuruzwa byawe ku buntu, kandi mu gihe gito.

Umukobwa wambaye akanozasuku k'umweru, akaba yambaye n'itaburiya, akaba afite ikaramu mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari umuhungu, iruhande rwe habaka hari udusanduku turimo ibitoki bisa icyatsi, inyuma ye hakaba hari n'abandi bakozi, ndetse n'utundi dusanduku twinshi cyane.

Umuhungu wirabura ufite imisatsi myinshi, wambaye umupira w'icyatsi, ufite ingofero y'icyatsi, wicaye ku ipikipiki y'umukara, inyuma ku ipikipiki ye hari agasanduku gafite amabara y'umukara n'icyatsi ndetse akaba yambaye n'inkweto z'umukara n'umweru, akaba aparitse ku muhanda.

Umumotari wambaye ingofero y'icyatsi akaba yambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari umugore wambaye amataratara n'umupira w'umweru, akaba ari kumuhereza agapfunyika kanditseho safi kakaba kari mu ibara ry'umukara ndetse ku rundi ruhande hakaba hari ibiti, ku rundi ruhande hakaba hari ipikipiki y'umumotari.

Uburyo bwizewe bw'ikoranabuhanga, bwo kuba wagura ibicuruzwa bitandukanye bikakugeraho aho waba uherereye hose, nomero wababoneraho akaba ari zo; zero, karindwi, mirongo inani, kane, gatatu, karindwi, rimwe, makumyabiri.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo n'ubururu ikaba hariho icyapa cyandikishije amabara y'umuhondo n'ubururu n'icyapa cyandkishije amagambo y'ubururu icyo cyapa gifite ibara ry'umweru munsi hakaba hari imodoka nyishi ziri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, ndetse n'abamotari benshi bafite moto ziriho amabara y'umuhondo n'ubururu.

Uburyo bwizewe bwo kugura ibikoresho bigiye bitandukanye harimo inkweto z'abagabo, ibikoresho by'ikoranabuhanga, amakanzu, imipira, inkweto z'abana ibikoresho bigiye bitandukanye byose. Ukaba wabigura ku ikoranabuhanga batagukase kandi bikakugeraho aho uherereye hose.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, hakaba hahagazemo abantu bambaye amakanzu. Imbere y'izo nyubako hakaba haparitse imodoka ifite ibara ry'ubururu. Hakaba hari indi nyubako iri hejuru, ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, bambaye amakanzu y'umukara ndetse n'amakanzu y'ubururu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kugura ibikoresho nk'inkweto ku mafaranga 41,480 Frw, ibikoresho bw'ikoranabuhanga ku mafaranga 17,170 Frw, cyangwa se mu bihumbi 6052 Frw, ndetse n'amakanzu; imyenda muri rusange.

Umukobwa wirabura yambaye ishati y'icyatsi n'umupira w'umweru afite imisatsi akaba ari guhereza agapfunyika umukobwa w'inzobe w'imisatsi myinshi wambaye ishati y'umweru ako gapfunyika kakaba kanditseho vuba vuba.

Uburyo bwo kugura ibikoresho ukoresheje ikoranabuhanga nk'amasakoshi bakabagabanyiriza cumi na karindwi ku ijana, amatara, imyenda, inkweto z'abagore, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'itumanaho ndetse n'ibinyabiziga.

Ipikippiki iparitse ikaba ifite ibara ry'umutuku, hejuru ku ipikipiki hakaba hariho agasanduku gafite ibara ry'ubururu, hakaba handikishijeho amagambo y'umuhondo, umweru, ndetse hakaba hariho n'utundi tumenyetso tugiye dutandukanye, iruhande rw'iyo pikipiki hakaba hahagaze umugabo, ndetse kurundi ruhande hakaba hari umugore.

Umumotari wirabura wambaye ingofero ifiite ibara ry'icyatsi cyeruritse akaba yambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi akaba afite agasanduku kibara ry'umweru mu ntoki ze akaba ari ku ipikipiki afite agakapu k'ibara ry'icyatsi ryerurutse.

Umuhungu w'imibiri yombi ufite imisatsi, akaba ari guseka ndetse ahumirije, akaba afite agapfunyika karimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, akaba yambaye ishati y'icyatsi. Ku ruhande rwe hakaba hari agasunduku gafite ibara ry'icyatsi kariho amagambo y'umweru.

Umumotari wambaye ingofero y'icyatsi, umupira w'ubururu bwerurutse, ndetse n'ipantaro y'ubururu, iruhande rwe haparitse ipikipiki ifite agasanduku kari mu ibara ry'umutuku, akaba aparitse hafi y'umuhanda wa kaburimbo akaba agemuye.

Umuhungu w'imibiri yombi uri guseka uhumurije, akaba afite agapfunyika karimo ibikoresho bigiye bitandukanye gusa bishingiye ku biribwa, akaba yambaye ishati y'icyatsi iriho amagambo y'umweru, iruhande rwe hakaba hari akasanduku gasa icyatsi gafite amagambo yanditseho vuba vuba mu mabara y'umweru.

Uburyo bwo guhaha ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga harimo kuba wagura imiti, amapanaro, ibikoresho by'abana, inkweto z'abagabo, amakoti, ingofero, amakanzu byose muri rusange.

umugabo wirabura ufite umusatsi muke wambaye umupira w'amabara y'umuhondo ndetse nandi mabara, iruhande rwe hakaba hari igikapu gifite amabara y'umuhondo cyandikishijweho amagambo y'umutuku akaba yambaye ipantaro y'umukara akaba yicaye kwipikipiki ye.

Uburyo bwo guhaha ibiribwa ukoresheje ikoranabuhanga guhaha imineke cyangwa ibirayi ndetse n'ibindi bicuruzwa muri rusange, imineke aho igura amafaranga maganabiri, ibirayi bikagura amafaranga igihumbi na maganabiri mirongo itanu.

Uburyo bwizewe uko wagura ibikoresho ukoresheje ikoranabuhanga harimo , ikweto za bagabo, imipira y'abagabo, ikweto z'abana ,ibyo kurya kugiciro gitoya Kandi bakabikugezaho kubuntu Aho waba uherereye hose.

Uburyo bwizewe bwo kugura ibicuruzwa mu ikoranabuhanga, ari byo amazi, cyangwa amashinga cyangwa n'ibindi, bikakugeraho aho waba uherereye hose. Hakaba hari uburyo bwizewe bwashyizweho bwo kuba wabahamagara bakabikugezaho. Nimero ari zo zeru karindwi, umunani gatanu gatanu, kabiri gatanu, karindwi rimwe gatandatu.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyagenwe mu kwerekana amerekezo mu gihe umuntu ari kuva ahantu hamwe ajya ahandi aho waba uherereye hose. Kikaba giteretse kukinyabiziga kandi kikaba gikoreshwa n'amashanyarazi.

Abamotari batatu bicaye kumapikipiki yabo ahetse udusanduku dufite ibara ry'umutuku umweru n'umukara, bakaba bahagaze mumuhanda wa kaburimbo abamotari babiri nibo bambaye ingofero z'icyatsi, undi yambaye ingofero y'umukara, imbere ya hakaba hari ibiti byinshi.

Ku buryo bw'ikoranabuhanga bwemejwe bwashyizweho kugira ngo ufashe abaturage mu kuba babona ibicuruzwa bitandukanye, aho baba baherereye hose kandi bikanabageraho ari bwo bita Tuma Magana abiri na mirongo itanu ku giciro gikeya kandi bakareba ibintu byizewe.

Uburyo bwizewe bwo kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, harimo amakoti, amasakoshi, ibikoresho by'itumanaho ndetse n'bindi bikoresho wakoresha mu buryo bugiye butandukanye, byose ku mafaranga make, kandi bikakugeraho aho uherereye hose.

Imodoka zifite ibara ry'umweru zagenewe gutwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, zikaba ari nyinshi jipariste ku muhanda wa kaburimbo, zikaba zihetse ibisanduku binini inyuma biri mu mabara y'umuhondo hakaba handitseho amagambo twiga mu mabara y'umweru ahandi hakaba hari inzu nini

Umumotari wambaye ingofero y'umutuku, akaba yambaye n'ikoti ry'umukara, akaba yicaye ku ipikipiki ye, aho inyuma harimo agasanduku kari mu mabara y'umukara, umutuku, n'umweru, akaba agemuye ibiryo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwizewe bwo kuba wahaha ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa nk'amashu, imboga, karoti, inyanya, tangawizi, tungurusumu, ibitunguru ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Umumotari wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, ipantaro ifite ibara ry'ivu ndetse n'umupira w'umukara, akaba ari kureba mu gasanduku gafite ibara ry'umutuku, kaba kari ku ipikipiki, iruhande rw'ipikipiki, hakaba hari umusore wambaye umupira w'umutuku, urimo amabara y'umukara ndetse n'ipantaro ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, akaba ahagaze mu muhanda w'igitaka ndetse inyuma yabo hakaba hari inzu zigiye zitandukanye ndetse n'abantu.

Umukobwa ufite ibisuko wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ivu ndetse n'ubururu, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa ku rundi ruhande hakaba hari umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye ishati y'amaboko maremare akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga ku gutwi, ku rundi ruhande hakaba hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe ufite ikanzu y'umuhondo, imbere hakaba hari imeza ifite ibara ry'umutuku bakaba bicaye bari gukora, aho bari hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga

Uburyo bwizewe bwo kuba watumiza ibiryo bikakugeraho, kandi mu gihe uri gutumiza voka, imineke, amashu, imboga muri rusange, kandi bkakugeraho mu gihe gito kandi byizewe.

Umukobwa ufite ibisuko wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi akaba afunguye agasanguku gafite ibara ry'icyatsi akaba afite n'akandi gasanduku mu ntoki gafite ibara ry'umutuku inyuma hakaba hari igikuta ndetse hakaba hari n'ibyatsi bifashe kuri icyo gikuta.

Ipikipiki ifite ibara ry'umukara ihagaze iruhande rwa kaburimbo, inyuma yayo hari umugabo wambaye umupira y'icyatsi n'ipantaro y'umukar y'imifuka, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi n'ipantaro y'umutuku werurutse bari imbere y'igipangu cy'umukara.

umuhungu uhetse igikapu cyi cyasti cyandisteho vubavuba namagambo y'umweru Akaba ahagararanye igare akaba ari mbere y' igipangu gifite ibara ryivu akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n' ikweto zifunze z' umukara uhagaze ku muhanda wa kaburimbo

Umusore w'inzobe wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vuba vuba, iruhande rwe hakaba hari ipikipiki, hejuru hari igikapu cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, iruhande rwe hakaba hari umuhungu wambaye ishati y'icyatsi, akaba yateretse akaboko hejuru.

Imodoka ifite ibara ry'umutuku inyuma k'ikirahure hakaba hariho icyapa kiri mumabara y'uburu n'umweru hakaba hariho nimero za telefone 250787600266 aba bakujyezaho ibyo ushaka byose aho waba uherereye hose.

Uburyo bwizewe bwo kugura ibikoresho bitandukanye, harimo imyenda y'abana, ibikoresho bya siporo, impano, imyenda y'abagabo, imyenda yo gusohokana hanze, imyenda y'abagore ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Abasore babiri barahagaze, bafite ingofero ebyiri z'icyatsi mu ntoki zandikishije amagambo y'umweru, umwe arirabura, afite imisatsi, yambaye n'amataratara y'umukara. Undi arerurutse, yambaye amataratara, afite ibara ry'umutuku.

Umukobwa wirabura wambaye umupira w'ubudodo w'umutuku akaba afite n'ibisuko akaba afashe akakarito k'umutuku mu kiganza kanditseho imibare mirongo itanu, iruhande rwe hakaba hari umukobwa wirabura nawe wambaye umupira w'ubudodo w'icyatsi.

Umumotari wambaye ingofero ya icyatsi, yanditseho amagambo ya umuhondo, akaba atwaye umugenzi wambaye ingofero y'icyatsi yanditseho amagambo ya umweru. Imbere yabo hakaba hari umugenzi wicaye ku ipikipiki, wambaye umupira wa umweru, wambaye ingofero iriho amagambo y'umweru.

Umuhungu wirabura wambaye ingofero y'ubururu iriho amagambo y'umweru, akaba yambaye n'umupira w'ubururu akaba afite igipfunyika mu ntoki cyanditseho isoko rigari. Kikaba kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi mabara akaba yicaye mu kinyabiziga.

Uburyo bwiza bwizewe kandi bwihuse ushobora kuba wagura ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga, nk'urugero nko kugura imyenda, imitako, amakote y'abagabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariho bita iduka. Ku bundi busobanuro wasura imbuga nkoranyambaga zabo bakagufasha.

Uburyo bwizewe bwo kugura ibikoresho bitandukanye harimo inanasi, inyanya, ibitunguru, karoti, ibishyimbo, ifarini, amavuta, amashu ndetse n'ibindi bikoresho byose bigiye bitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga.

Umugabo wirabura akaba afite umusatsi muke akaba yambaye umupira w'amaboko magufi uriho amagambo yandikishijwe mu mabara y'umukara, akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu. AKaba afite agasanduka gafite ibara ry'umweru akaba ajyanye ahantu. Inyuma ye hakaba hari utubati babikamo ibindi bikoresho.

Uburyo bwizewe bwo kuba wabona ibicuruzwa bitandukanye ndetse bikakugeraho aho waba uri hose, ukoresheje ikoranabuhanga. Mu gihe wagize ikibazo ushobora guhamagara nimero magana abiri na mirongo itanu, karindwi umunani umunani, gatandatu umunani, kane gatanu karindwi gatanu, cyangwa ugasura imbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabasura aho bakorera ku cyicaro cyabo.

Abamotari bane bari ku mapikipiki yabo, bakaba baparitse ku muhanda wa kaburimbo bakaba bahetse udukapu dufite ibara ry'umutuku, imbere hakaba hari igikuta cy'umuhondo, inyuma y'icyo gikuta cy'umuhondo hakaba hari igiti, ndetse n'amazu.

Umumotari wambaye ingofero y'umutuku, ndetse yambaye n'umupira w'umutuku, n'ipantaro y'ubururu, akaba yicaye ku ipikipiki ye, akaba agemuye ibiryo ahantu runaka. Inyuma akaba afite agasanduku k'umutuku, karimo ibyo byo kurya.

Ipikipiki ziparitse zifite udukapu hejuru imwe ifite agakapu kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'andi mabara, kuruhande hari ipikipiki ifite agakapu kari mu ibara ry'umutuku n'umweru ziraparitse. Imbere hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo.

Ikinyabiziga kinini cyagenewe gutwara imizigo kuva ahantu hamwe ujya ahandi, kikaba gifite amabara y'umuhondo n'ubururu, ndetse harimo n'amagambo yanditseho iposita, kikaba giparitse ahantu mu muhanda wa kaburimbo iruhande hakaba hari amazu maremare.

Umugabo wambaye ishati y'uturongo wirabura, akaba ahagaze ku ipikipiki iyo pikipiki ikaba ihetse agasanduku kanditseho vuba vuba kakaba gafite ibara ry'icyatsi imbere akaba ari imodoka y'umukara n'andi mapikipiki ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Umumotari wambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi hariho amagambo y'umuhondo, akaba ahetse agasanduku k'icyatsi kariho amagambo y'umweru, akaba ari ku ipikipiki akaba ari kugenda nawe akaba yambaye ishati y'icyatsi ruhande hakaba hari ibyansi ndetse n'icyapa cy'umukara.

Umumotari wambaye ishati y'icyatsi inyuma mu mugongo haditseho vuba vuba mu nyuguti z'umweru, akaba yambaye ingofero y'icyatsi akaba afite igikoresho k'itumanaho mu matwi ye. Ku ruhamnde haparitse ipikipiki ye iriho isanduku y'icyatsi akaba agemuye ibyo bamutumye.

Inyubako ifite icyapa cyanditseho ''ihaha'', byandikishijwe amagambo y'ubururu, ahandi hakaba ari umweru n'andi mabara; munsi hakaba hari ipikipiki iparitse ndetse n'ibiti harimo imikindo; ku ruhande hakaba haparitse ipikipiki ndetse n'imodoka y'icyatsi.

Umugabo wambaye ingofero y'icyatsi iriho amagambo y'umweru yanditseho Vubavuba, akaba yambaye n'ishati y'icyatsi y'amaboko magufi yanditseho Vuba vuba, ndetse n'ipantaro y'ubururu akaba ari kureba mu gasanduku gafite ibara ry'icyatsi, kakaba gateretse ku ipikipiki akaba aparitse ku muhanda w'amabuye.

Umumotari wambaye kasike y'ubururu bwerurutse akaba ari ku ipikipiki ari kugenda, akaba ahetse agasanduku kanditseho "Gura ibikoresho by'isuku n'ubuzima, akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego, www.kasha.rw, cyangwa ukabahamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo icyenda rimwe rimwe rimwe".

Umugabo wirabura wambaye ingofero y'icyatsi, akaba yambaye ishati y'ishatsi, iriho amagambo y'umweru. Iruhande rwe hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiti. Ku rundi ruhande hakaba hari ipikipiki ifite agasanduku k'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi yagenewe gucururizwamo imbuto, kuruhande hakaba hari icyapa cy'umweru kirimo imbuto zigiye zitandukanye nk'inanasi n'imineke kikaba gifite ibara ry'icyatsi n'umweru, mu imbere hakaba hari imbuto zigiye zitandukanye.

Ipikipiki iparitse ku muhanda w'amabuye, imbere hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, imbere hakaba hari ibiti, ikaba ihetse agakapu gafite ibara ry'icyatsi kanditseho vuba vuba, mu magambo afite ibara ry'umweru. Ku rundi ruhande hakaba hari ibyatsi.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku, umupira w'umutuku ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, n'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto zifunze.

Umumotari wambaye ingofero y'umutuku akaba yambaye umupira w'umuhondo akaba yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'ivu akaba yicaye ku ipikipiki ye ari kugenda mu muhanda. Inyuma afitemo agasanduku cyangwa igikapu gifite amabara y'umuhondo akaba agemuye ibyo bamutumye.

Umugabo wirabura wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'isengeri y'ubururu ndetse n'ipanantaro y'ubururu akaba afite agapfunyika kanditseho amagambo yandikishijweho ibara ry'umukara akaba ari kubika akaba agiye kubigemura ahantu kandi akaba akorera kampan yizewe, kandi ikorera ku gihe.

Abamotari bane bakaba baparitse bicaye ku mapikipiki yabo, amapikipiki akaba ari hafi y'umuhanda wa kaburimbo bakaba bambaye ingofero zigiye zitandukanye, bakaba hahetse n'ubusanduku bufite amabara agiye atandukanye, imbere hakaba hariyo igikuta cy'umweru gifite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'ibiti n'amazu maremare.

Umugabo wambaye umupira w'umukara afite agakarito k'umweru, akaba agiye kugashyira mu gikapu gifite ibara ry'icyatsi kerurutse, hakaba handitseho isuku mu buzima, hakaba hari uburyo bwateganijwe bwo kuba wababona, hariho nimero zabo ari zo icyenda, rimwe, rimwe, rimwe.